Abaganga n'abandi bantu bakora muri serivisi zitandukanye z'ubuzima, usanga bafite amatsinda bagiye bakoreramo, yewe bayafashe nk'imiryango yabo, ugasanga rimwe na rimwe bayahuriramo nyuma y'akazi, bagahugurana hagati yabo.

Abaganga bamwe na bamwe usanga bafite inshingano zo gupima ndetse no gusuzuma abageze mu zabukuru cyangwa abafite intege nke, kugira ngo bagaragaze niba nta zindi ndwara bafite zishobora guhungabanya ubuzima bwabo, hashingiwe ku kuba nta budahangarwa buhagije bafite.

abanyeshuri mu bigo bitandukanye bavuga ko kuba bararegerejwe amazi meza ndetse n'isabune bibafasha gukaraba intoki, kandi bakarushaho kurwanya umwanda ushobora kubugariza igihe cyose ukabatera indwara zitandukanye igihe cyose bari ku ishuri.

Amazi meza ni kimwe mu bintu bikunze gutangazwa cyangwa se bigashyirwa mu mpande n'impande, aho abaturage bakunze kwishimira ko bayahabwa, kandi bakayabona ku kiguzi gito, bikabarinda gukoresha amazi yanduye yabatera indwara.

Imiryango yose mpuzamahanga usanga ihugiye mu gushyira imbaraga muri serivisi zitangwa mu buvuzi kubera ko bamaze gusanga ko iyo abantu bafite ubuzima n'ibindi byose bishoboka kubigeraho kandi vuba niyo mpamvu babikora babishyizeho umutima.

Abantu bose bashinzwe kwita ku buzima ndetse n'abakora muri Minisiteri y'ubuzima, bagirwa inama yo kuba bazi neza uburyo bw'imibanire myiza hagati yabo, kugira ngo bazabone uko batanga serivise nziza bazigeza ku bo bashinzwe.

Amazi akwirakwizwa mu mpande n'impande agira uruhare mu kubungabunga ubuzima bw'abantu kandi akanabafasha kugira isuku, bigatuma ubuzima bw'abantu bubaho bwizewe neza ko nta kibazo kirimo kubera ko indwara zose ziba zaragerageje kugabanyuka.

Abantu bose bavoma ku mavomo rusange bagirwa inama yo kugirira isuku ibikoresho byose bakoresha kubera ko bagirwa inama ko nabo bagomba kurinda umubiri wabo indwara zose ziterwa n'umwanda bishobora kubaviramo izindi ngaruka zikomeye.

Mu mpera z'ukwezi cyangwa igihe runaka cyagenwe, usanga abashinzwe kwita ku bageze mu zabukuru babajyana kwa muganga kugira basuzumwe neza harebwe niba badafite indwara zandura cyangwa se izitandura, kugira ngo amagara yabo arusheho kuramba.

Muri gahunda yo gukwirakwiza amazi meza mu gihugu cyose, yatumye abaturarwanda babaho bishimiye ko banywa amazi meza, bityo bikagabanya ikigero cy'indwara zaterwaga no kunywa amazi mabi kandi bikabatera inzoka.

Abantu bakuze bagerageza kugira inama abana bato babigisha uko bakaraba intoki, kugira ngo hirindwe indwara zikomoka ku mwanda zishobora kubafata, bikabatera kugwingira mu mikurire yabo, kandi izo ndwara zikaba atari na nziza ku mubiri.

Abana baturuka mu miryango myinshi itandukanye bakunze kugaragaza ko, indwara zaterwaga n'ibibazo byo kuba banywa amazi atari meza zakize burundu, aho Leta igenda irushaho ku kongera impamvu zindi zishobora gutuma abantu babaho neza.

Binyuze mu mikoranire y'igihugu ndetse n'ibihugu by'amahanga, usanga bituma serivisi nziza mu buvuzi zitangwa, kandi zikagera ku bantu benshi, kubera ko hari inkunga zituruka hanze mu bihugu by'amahanga, zikagera ku bakeneye ubwo buvuzi.

Ahantu hose hari imigezi ndetse n'amavomo rusange abangamiye abaturage leta igenda igaragaza ko ifite ubushake bwo kugenda ikosora buri kimwe cyose, kugira ngo abaturage bakunde bayabone ku buryo buboroheye kandi cyane.

Abajyanama b'ubuzima bakunda gutanga urugero rwiza igihe cyose hari ubukangurambaga Leta ishaka nibo baheraho by'umwihariko nko gutanga inkingo, bakereka abandi bose ko zidafite ingaruka kuko nabo bazifashe.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi baganga igihe cyose bari mu nshingano zabo usanga barushaho kwishimirwa n'abantu bose kubera ko baba babegereye bakabasanga aho batuye bakabegereza serivisi z'ubuvuzi bakita ku buzima bwabo.

Gukaraba intoki wamaze kuba umuco kubera ko abantu bose basobanukiwe ko aribwo buryo bwiza bwo kwirinda indwara zimwe na zimwe ziterwa n'umwanda zishobora gufata uwo ari we wese, niyo mpamvu usanga uwo muco ugenda urushaho gukura guhera mu bana kugeza no mu bakuru.

Minisiteri y'ubuzima igaragaza ko kubera ko amazi yakwirakwijwe mu gihugu, byagabanyije umubare w'abantu bajyaga kwa muganga barwaye indwara ziterwa n'umwanda, bigatuma nayo ishingiraho ivuga ko n'aho ataragera amazi akwiye kuhagera kugira ngo birusheho gucika.

Rimwe na rimwe usanga, abakora mu nzego z'ubuzima bajya bafata umwanya, bakegera abaturage bakabereka, uburyo ki bagomba gukoresha, kugira ngo barusheho gufasha ubuzima bwabo, kandi baniyongere iminsi yo kubaho, binyuze mu byo bigishwa.

Ku mavomero menshi usanga abahashinzwe bakunze kubwira abaza kuhatwara amazi ko bagomba kuzana ibikoresho bisa neza mu rwego rwo kwirinda indwara zituruka ku mwanda, kugira ngo barusheho kubaho batekanye.

Amazi meza yakwirakwijwe mu gihugu hose, ariko usanga hari ahantu hamwe na hamwe ataragera cyangwa n'aho yageze akaba afite imbaraga nke, ni yo mpamvu usanga abantu bose bagerageza kwimukira aho babasha kuyabona bitabagoye.

Ubuvuzi busigaye bugera ku muntu uwo ari we wese kandi bukamusanga hafi, bitewe n'uko bugenda burushaho kwegerezwa abaturage kandi leta ikaba yarashyizemo n'amafaranga menshi, hagamijwe mu kwita ku buzima bw'abantu icyarimwe.

Usanga leta ifite Minisiteri zitandukanye ariko Minisiteri y'uburezi ikunda kugerageza kugaragaza imikoreshereze cyangwa se uburyo yatanzemo serivisi, yifashishije ibishushanyo bigiye bigaragarira buri wese, mu buryo bw'imibare.

Abashinzwe gukora mu nzego zishinzwe ubuzima bagaragaza ko uruhare rwabo rugira umusaruro ukomeye mu kwita ku buzima bw'abantu, kubera ko nabo ubwabo babikorana ubwitange bakumva ko ari inshingano zabo kandi bakumva ko bakwiye kwita ku buzima bw'abantu.

Igihe cyose abaganga bagaragaza ko bahisemo neza bitewe nuko bafite inshingano zo kwita kandi bakabungabunga ubuzima bwa muntu, bakavuga ko kuba barabihisemo ari cyo kibafasha kumva bafite amahoro, bitewe n'izo nshingano zabo.

Urwego mpuzamahanga rushinzwe ubuzima ku isi rukunze kugaragaza ko muri buri gihugu bakwiye kugira ingamba zihamye zishyirwaho ku bijyanye n'ubuvuzi buhabwa abaturage, kandi bakarushaho no kwizera ko bahabwa imiti myiza igihe barwaye.

Amazi meza ntabwo akiri ikibazo mu gihugu, uretse ko usanga hari uduce tumwe na tumwe dutandukanye Leta itarayagezamo, ariko baba bavuga ko nabo bitazafata igihe kirekire kugira ngo agere mu gihugu hose.

Bitewe n'uko abaganga ndetse n'abakora muri serivisi z'ubuvuzi bereka umutima mwiza abo bavura, usanga ibyo bitabangamira abavurwa kandi bakumva bitaweho kubera ko baba bari kuganirizwa igihe cyose barimo bahabwa serivisi.

Bitewe n'uko biba byaragiye bigaragazwa kenshi n'abantu batandukanye ko kujya gushaka amazi mu misozi bibagora, leta ibagomba kugerageza kuborohereza ubuzima ikabegereza amavomo menshi agiye atandukanye kugira ngo bajye bayifashisha.

Serivisi z'ubuvuzi ni kimwe mu bintu bitangwa ku rwego mpuzamahanga kandi zikagerageza guhabwa abantu bose uko bazikeneye kubera ko ari cyo gituma ubuzima bwabo burushaho gukomeza, bukabaho buzira umuze.

Abaganga ndetse n'abandi bantu bafite ishingano zo kwita ku buzima bw'abantu, usanga inama bakora zose zibyara umusaruro, kubera ko barushaho kurebera hamwe icyazana umuti kandi urambye ku kibazo cyose cyabonetse mu buvuzi.

Nyuma y'uko amazi meza akwirakwijwe mu duce twose, usanga abantu rimwe na rimwe, bakunze kwinubira ko hari abatarabona uburyo bwiza bwo kuyabona, kubera ko usanga bibasaba kunyonga imashini cyangwa ibindi bikoresho bibavuna.

Igihe cyose abaturage banezezwa no kumva ko leta ndetse n'urwego rw'ubuvuzi rubitayeho, binyuze mu buryo usanga babegera bakarushaho kubahereza serivisi babagomba, bakabikora igihe cyose kuko ari inshingano zabo.

Igihugu cyiyemeje kujya gitanga serivise nziza kandi kikageza ibikorwa byose by'ubuzima bwiza ku bantu batuye ahantu hatandukanye, niyo mpamvu usanga leta ifite abakozi bagiye bakora mu mpande n'impande kugira ngo barusheho kwegereza abaturarwanda bimwe mu bibagenewe.

Abaganga kubera ko barushaho guhura n'abantu umunsi ku munsi, usanga bafata icyemezo cyo kujya kubaganiriza ahantu hose habaye amatsinda y'abantu cyangwa se izindi mpamvu zahurije hamwe abantu nk'inama kugira ngo barusheho gusobanukirwa ko abaganga bahari ku ubwabo.

Mu gihe cy'icyorezo cya Covid cumi n'icyenda, abantu wasangaga binubira kwambara udupfukamunwa, bakavuga ko dushobora kuba tubaheza umwuka, ariko bakatwambara kubera ko ari imwe mu mpamvu ishobora kubafasha kwirinda icyorezo cya Covid cumi n'icyenda.

Ubukangurambaga butandukanye, bukorwa harimo no kujya gusanga abana ku mashuri basanzwe bigaho, bakabahugura kandi bakabigisha kuri bimwe mu bintu bishobora kubafasha, kwirinda indwara zigiye zitandukanye zishobora guhungabanya ubuzima bwabo ndetse n'imikurire.

Inyandiko ndetse n'amakarita ahabwa abaturage, aba ariho ibibasobanurira neza uko ibintu bigenda by'umwihariko serivisi batanga mu buvuzi, kugira ngo barusheho kubisobanukirwa bamenye n'ibibakwiye.

Abajyanama b'ubuzima igihe cyose bavuye gutanga serivisi zabo, cyangwa bavuye nko mu mahugurwa runaka, usanga bishimira umusanzu baha leta mu kwita ku buzima bw'abantu, kubera ko baba bari gufasha kubungabunga ubuzima bwa bagenzi babo.

Igihe cyose icyorezo cyateye mu gihugu cy'u Rwanda, usanga hari inzego runaka ziba zishinzwe guhangana na cyo, aho usanga gishishikarira mu gukora ubukangurambaga, bugamije gukangurira abantu kucyirinda kugira ngo ubuzima bwabo butangirika.

Indwara ziterwa n'umwanda zaragabanyutse ku kigero cyo hejuru; nyuma y'uko amazi meza agiye akwirakwizwa mu duce twose tw'igihugu; abantu bose bakabasha kuyagiraho uburenganzira; kandi bikabafasha kumva ko ari inshingano zabo kuyabungabunga.

Bitewe n'uko serivisi z'ubuvuzi zigomba kujya ku rwego rwo hejuru, usanga bituma habaho imikoranire hagati y'abaganga cyangwa se ibihugu by'amahanga kugira ngo birusheho kubahugura, bamenye n'ibyo batari bazi.

Ibikoresho byose bikoreshwa mu rwego rw'ubuvuzi by'umwihariko ibifite gufasha abantu ku buryo burenze uko babitekerezaga, usanga bikunda kuboneka ku bitaro bikuru nyamara Leta yo igerageza gukora uko ishoboye kose ngo bigere no mu mavuriro.

Iminsi mikuru igenda iba igakorerwa ku bitaro bitandukanye igenda ituma habaho isano hagati y'umuganga ndetse n'umurwayi, aho usanga umurwayi yibona mu muganga akarushaho kunogerwa neza no gushimishwa n'ibyo umuganga amukorera.

Ibigo nderabuzima bigenda bikwirakwizwa ahantu hose mu mirenge, usanga bivuga ko vyabaye inkingi ya mwamba mu gucungura ubuzima bwa benshi kubera ko bibafasha gukira bakoresheje imiti y'ibanze ndetse n'ubuvuzi bw'ibanze bihabwa benshi.

Ubukangurambaga bukunzwe gukorwa akenshi, usanga ari ubwo gushishikariza abantu gusobanukirwa neza ibyo bagakwiye gukora kugira ngo ubuzima bwabo burusheho gutekana, ari na yo mpamvu abitabiriye icyo gikorwa, usanga bavuga ko amakuru bahawe ari ingenzi kuko abafasha cyane.

Abayobozi ndetse n'abaganga iyo bateraniye hamwe, bagafata icyemezo cyo gusura igice runaka cyangwa abaturage, bituma abaturage bumva begerewe cyane kandi bakumva bishimye, bitewe n'uko babonye abayobozi babo kandi bakarushaho kubona bitaweho.

Serivisi z'ubuvuzi zigenda zitangwa zegerezwa abaturage, abaturage ntibahwema kwishimira ko zibegera kandi bakazibona vuba bitabasabye gukora ingendo zitandukanye bityo bakabona ko bitaweho mu buryo bw'ubuvuzi.

Byaragaragaye ko mu gihe cy'icyorezo cya Covid cumi n'icyenda abantu bandi batandukanye n'abaganga ariko bahawe amahugurwa, bafashaga Leta mu gusuzuma kandi bagakorana na Minisiteri y'ubuzima mu kurwanya icyo cyorezo hagamijwe ko cyacika burundu.

Abajyanama b'ubuzima basigaye bafasha leta mu gutanga serivisi nziza z'ubuvuzi, kubera ko bagenda begera abaturage aho batuye mu ngo, bakabafasha kubasobanurira bimwe na bimwe mu byo bakora kugira bite ku bana babo bakiri bato kandi bakure neza.

Umuco wo gukaraba intoki ugenda ukwirakwizwa ahantu hose mu gihugu kandi abantu bakarushaho kumva akamaro kabyo kubera ko badahwema kugaragaza ko bibafasha kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda, bakabifashwa no kuba bakaraba intoki kenshi gashoboka.

Abaturarwanda bishimira ko bose bagira uburenganzira kuri serivisi zitangwa mu buvuzi, kandi bose bakitabwaho ku buryo bumwe ku kiguzi kiri hasi, bigatuma babona serivisi kandi bagakira indwara barwaye igihe cyose barwaye.

Ibikoresho bikoreshwa kwa muganga aho biba bibitse hose haba hagomba kuba hatekanye kandi hafite isuku, cyane ko haba hari n'abakozi babugenewe bashinzwe kubyitaho, igihe cyose bitaragemurwa mu yandi mavuriro ngo bose babibone.

Nyuma yo kwegereza amazi meza ndetse no kuyakwirakwiza mu bigo by'amashuri, abayobozi bagirwa inama yo kwegereza abana ibindi bikoresho bashobora kwifashisha banywa amazi, kugira ngo birinde gukoresha ibindi ibyo aribyo byose bishobora kubatera indwara.

Abato ndetse n'abakuze usanga bavuga ko amazi meza kuba barayegerejwe hafi yabo, byagabanyije urugendo bakoraga binagabanya amasaha batakazaga mu misozi, aho bajyaga kuyakura bitewe n'uko hari kure yo mu rugo rwabo.

Abaturage bose bishimira ko kuba bitabwaho kandi bagahabwa serivisi nziza z'ubuvuzi biturutse ku bufatanye bwa leta n'ibigo bitandukanye, ari kimwe mu bibafasha kumva batekanye kandi bagakora ibyo bakora batuje, bitewe n'uko baba bazi ko ubuzima bwabo nta gikuba kirimo.

Abashinzwe kwita ku buzima bwa muntu buri munsi bagirwa inama yo kutinubira akazi bakora bitewe n'uko kabasaba ubwitange ku rwego rwo hejuru kugira ngo bacungure ubuzima bw'abantu benshi kandi ababagana bose banyurwe.

Abaganga mbere yo kuguha imiti barabanza bakagupima bakamenya neza indwara urwaye, ubundi bakaguhereza imiti ijyanye nayo, kugira ngo izabashe kugukiza mu gihe gito bitume ubaho unezerewe mu buzima buzira umuze.

Amazi meza usanga ari imwe mu nkingi zifasha abantu gutuma ubuzima bwabo bugenda neza, bitewe n'uko bibarinda indwara kandi ibindi bikorwa byose byatuma ubuzima bwabo bwangirika bigahagarara, bakayakoresha no mu bindi bibafitiye inyungu mu buzima bwa buri munsi.

Abantu benshi igihe cyose bagiye gufata inkingo cyangwa inshinge zibarinda indwara, usanga bakunze kugaragazazwa ubwoba cyane, kandi abaganga bagerageza kubahumuriza ngo babumvishe uburyo urushinge rutababaza.

Abayobozi by'umwihariko abakora muri minisiteri zishinzwe ubuzima, barajwe ishinga n'ubuzima bw'abantu bwa buri munsi ndetse no kureba uko babonera umuti ikibazo cyose cyagaragara mu buvuzi ndetse no muri serivisi bahereza ababagana.

Rimwe na rimwe usanga Minisiteri y'ubuzima, igenda itanga gahunda zo gukora ubukangurambaga bwo gusuzuma abaturage mu bigo bitandukanye, haba ku mashuri cyangwa se mu midugudu abantu babarizwamo kugira ngo barusheho gusobanukirwa niba baba bafite indwara cyangwa ntazo bafite.

Iyo ugerageje kuvugana n'abaturage bakubwira ko uburyo bwose bahabwamo serivisi z'ubuvuzi butandukanye n'uko byakorwaga kera, bitewe n'uko kuri iyi nshuro abaganga n'abandi bantu bafite izo nshingano babegera, bakabasanga hafi.

Uko amazi agenda akwirakwizwa mu Gihugu hose, usanga ari na ko umuco wo kugira isuku ugenda urushaho gutera imbere, kubera ko ibyo abantu bitwazaga kera byari ikibazo cy'amazi kandi kikaba cyarakemutse, bigatuma isuku na yo izamuka.

Imiti myinshi ikunze gutangwa nk'inkunga igatangwa n'ibihugu by'amahanga, bakayihereza ibihugu bikiri mu nzira y'iterambere cyangwa ibitifashije kugira ngo ubuzima bw'abatuye ibyo bihugu burusheho gusigasirwa, batitaye ko bafite ubushobozi buke.

Ahantu hose hateraniye abantu baje gupimisha abana kugira bamenye ingano y'ibiro ndetse n'indeshyo bafite, bityo barebe ko ntakibazo cyo kugwingira cyabayeho, usanga akenshi hakunze kuba hari umuganga cyangwa umujyanama w'ubuzima.

Amazi meza yagiye akwirakwizwa mu bice bitandukanye by'igihugu bifasha Abanyarwanda kubaho kandi bafite ubuzima buzira umuze bitewe n'uko byahagaritse indwara zimwe na zimwe zaterwaga n'umwanda, bityo abantu bakabaho batekanye kandi bakumva banejejwe n'icyo gikorwa.

Ahakunze kubikwa ibikoresho bikoreshwa mu buvuzi mu bitaro, usanga hakunda kurindwa ko hagera abana cyangwa se abandi bantu batazi neza gukoresha ibyo bikoresho, kugira ngo batabyangiriza cyangwa bigatera impanuka hagati y'ubikoresheje ndetse nabyo.

Abantu bose usanga bagirwa inama yo gufatana urunana kugira ngo basobanurirane neza ibikubiye muri serivisi zitangwa mu buvuzi, kandi binyuze mu bukangurambaga bose bagashishikarizwa kuba bafashashakisha amakuru abafasha kumenya neza ibikubiyemo.

Abaturarwanda benshi ntibahwema gutanga ubuhamya ko kuba baregerejwe amazi byagabanyije imvune bagiraga zaterwaga no kuba barayakuraga kure hatandukanye mu misozi none kuri ubu bakaba barayegerejwe hafi aho usanga ari hafi n'ingo zabo.

Abateraniye mu nama, izishinzwe kwiga ku buvuzi cyangwa mu buryo bwo gutanga serivisi nziza zihabwa abaturage, usanga rimwe na rimwe iyo hagize icyo batumvikanaho, bagishyira hamwe bakagishakira umuti bakumvikana icyateza imbere rubanda.

Abaganga bakunze gukoresha amahirwe babona yo gufatirana abantu aho bateraniye ari benshi, bakagira bimwe bihugura mu bijyanye n'ubuzima kandi bakabigisha no kugira indwara zimwe na zimwe birinda kuko bishobora kubagirira umumaro.

Byamaze kugaragara ko buri muntu wese afite uburenganzira bwo guhabwa serivisi nziza mu bijyanye n'ubuvuzi kubera ko nawe ubuzima bwe bugomba kwitabwaho hatitawe ku giciro cyangwa se ubushobozi afite ari nayo mpamvu habaho ubwisungane mu kwivuza.

Imbangukiragutabara usanga zikunze kuboneka ku bigonderabuzima cyangwa ibitaro bitandukanye hagamijwe kugeza umurwayi wese ukeneye ubuvuzi bw'ibanze ku buryo bwihuse ku bitaro kugira ngo barokore ubuzima bwe ndetse n'uwo uwo ari we wese.

Ababyeyi n'abandi bantu bafite inshingano zo kureberera abana, bagirwa inama yo kubakarabya intoki kandi bakabatoza uwo muco bakabarinda no kurya ibyo babonye byose bitabanje kozwa mu mazi meza, kuko ari yo ntandaro y'indwara ziterwa n'umwanda.

Ibiganiro bitandukanye bigenda biba umunsi ku munsi bigamije kwigisha abantu uburyo bagomba kwita ku buzima bwabo usanga bidahwema kugaragara ko bifite umusaruro mwiza kandi ukunda kugera ahantu hose icyarimwe.

Abana bose usanga bishimira ko amazi meza batakiyasanga ku ishuri gusa, ahubwo no mu midugudu iwabo bayabona kubera ko leta yagiye igerageza kuyabegereza, bitandukanye n'uko kera byari bimeze aho byabasabaga gukora ingendo ndende.

Abana ku bigo by'amashuri usanga binubira ko banywa amazi atari meza kandi bikabatera inzoka, bityo ibigo by'amashuri bikaba bigerageza gukorana na Leta kugira ngo bababonere amazi meza bajye bayanywa igihe cyose bayakeneye.

Itsinda ry'abavuzi bateraniye hamwe cyangwa se abaganga, usanga ridakunze kuba rikora ubusa ahubwo rimwe na rimwe baba bari kwiga ku kibazo n'uko cyakemuka cyangwa se bagahugurana hagati yabo bitewe n'ubumenyi bagiye bafite uko burutanwa.

Abaganga usanga akenshi bakunze kwita ku mpinja ndetse n'abana bari mu kigero cy'imyaka mike, bitewe n'uko kumenya uko biyumva biba bigoye bityo bakenera guhabwa umwanya urambuye kugira ngo bakurikirane.

Umuntu wese ufite ikibazo kijyanye n'ubuzima, aba agomba kwegera ikigo nderabuzima kimwegereye, bitewe n'uko haba hari abaganga biteguye kumwakira kandi bakamufasha, kumusobanura buri kimwe cyose mu byo yibaza, bakabikorana umutima mwiza wuje urugwiro.

Amazi meza agira uruhare rukomeye mu buzima bw'umuntu kubera ko amufasha kwirinda indwara zitandukanye zishobora kuba ziterwa n'umwanda kandi bikamufasha no kugira isuku yo ku mubiri kubera ko ayabona bitamugoye, bityo bikamufasha gukaraba kenshi ku munsi.

Abaganga igihe cyose bagaragaza ko umusanzu wabo mu gushishikariza no kugaragariza abantu ko nabo bagomba kugira uruhare muri serivisi z'ubuzima, uwo musanzu ugera kuri benshi, bigatuma bose basobanukirwa uburenganzira bafite ku bijyanye n'ubuvuzi.

Abaganga b'inzobere mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe usanga bafite ubumenyi bwihariye mu bijyanye no kuganiriza abantu b'ingeri zose kubera ko baba barabitojwe kandi bakamenya n'amayeri yose bashobora gukoresha kugira ngo babane nabo.

Ubuzima bwo mu mutwe nyuma yo gusanga buhetse n'ubundi buzima bw'umubiri wose, abaganga benshi bagenda barushaho gukwirakwizwa mu bice bitandukanye ndetse no mu mavuriro menshi, kugira ngo barusheho kwita ku bantu benshi kandi babaganirize bamenye ibibazo bafite.

Ubuzima bwo mu mutwe bwabaye icyitonderwa kubera ko usanga abantu bafite ibibazo bitandukanye, bitewe n'imiryango baturukamo cyangwa se ibyo bahura nabyo buri munsi, ni muri urwo rwego usanga Leta igerageza gukora uko ishoboye kose ngo yite kuri abo bantu.

Abaganga b'inzobere rimwe na rimwe ukunda gusanga bavuga ko bagira akazi kenshi bitewe n'uko baba bari bake, by'umwihariko abashinzwe kuvura indwara zo mu mutwe, bitewe n'uko ubuvuzi bwo mu mutwe butarahabwa imbaraga ngo bushyirwe ku rwego mpuzamahanga.

Ibitaro bivurirwamo abafite uburwayi bwo mu mutwe, usanga bigira uruhare rurerure mu gufasha abantu benshi kubera ko hari abantu bajya kwitabwaho kandi babikeneye bagakurwa mu miryango kandi igihe bari bayirimo babangamiranaga na bagenzi babo.

Imiryango imwe n'imwe usanga abana bakomokamo binubira ko batakuze babona buri kimwe cyose kandi bakavuga ko na serivise z'ubuvuzi bazibonaga ku rwego ruri hasi bitewe n'imitekerereze y'ababyeyi babo kandi bitagakwiye kuba ingaruka kuri abo bana.

Abarwayi bose bari kwitabwaho mu bitaro bishinzwe kuvura abafite ikibazo cyo mu mutwe, usanga bagomba kubana n'abantu babiminurije bafite ubuhanga mu kubana na bo kubera ko kubihanganira bigora bitewe n'ibyo bakora.

Ibitaro ndetse n'amavuriro menshi akunze kugaragaza ko akeneye inzu zo kwita ku buryo bwihariye ku barwayi bo mu mutwe, kubera ko hari ababa badafite ibibazo bikomeye ariko bagaragaza ibimenyetso kandi bakeneye kwitabwaho.

Bitewe n'uko ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe kigenda kizamuka ku isi, aho usanga abantu bafite ikibazo cy'ihungabana ndetse n'icy'imitekerereze, usanga ibigo bishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe na byo bigenda birushaho kuba byinshi, kandi bikongererwa imbaraga.

Bitewe n'uko imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi bikorwa bifite aho bihuriye nabyo bituma ubuzima bumara igihe kirekire kandi bumeze neza, usanga no ku mbuga nkoranyambaga byaragejejweho gukora ubwo bukangurambaga kugirango abantu bose babisobanukirwe babyitabire.

Inzobere z'abaganga by'umwihariko abashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, usanga bahabwa amahugurwa yimbitse atandukanye n'ahabwa abandi, kubera ko baba bari kwita ku bantu bafite ikibazo cy'imitekerereze, kandi iteka n'iteka bishobora guhinduka.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda ni kimwe mu bigo bikunze kuvuga ko byakira abantu benshi kandi binatanga serivisi zitandukanye bitewe n'uko abantu bakenera serivisi z'ubuvuzi buri munsi, kugirango ubuzima bwe burusheho kuba bwiza.

Bitewe n'uko ubuvuzi bwo mu buzima bwo mu mutwe bugenda burushaho gutera imbere, leta zigerageza gushyiraho iminsi mpuzamahanga kugira ngo abafite icyo kibazo nabo bitabweho, kandi harebererwe hamwe icyakorwa kugira ngo ubuvuzi bukomeze buzamuke.

Usanga hari ahantu hakunze gukurikiranirwa abana bafite ibibazo byo mu mutwe cyangwa se abandi bana batabana n'imiryango kugira ngo babarinde kwangirika k'ubwonko kwabo cyangwa se indi mitekerereze idahwitse, yashyira ubuzima bwabo mu kaga.

Mu bukangurambaga bugiye butandukanye, abantu bose bagenda basobanukirwa ko kuganira n'abantu bishobora kuba umuti ushobora gutuma indwara yo mu mutwe ukira, kubera ko usanga akenshi bituruka ku gahinda ndetse no kwigunga kw'abantu.

Abashinzwe kwita ku bibazo by'indwara zo mu mutwe bavuga ko uburyo bwa mbere bwo kubivura ari ugufata umwanya ukaganiriza abafite ibyo bibazo, mbere na mbere ukabanza kumva uburyo bameze kandi ukabasha no guperereza impamvu yabibateye.

Ibibazo by'imitekerereze usanga ntamuntu utahura na byo bitewe n'ibikomere bitandukanye cyangwa uko ubuzima bugenda buhindura imimerere yabwo umunsi ku munsi kandi ugasanga buri umwe aba asabwa kuba impande ya mugenzi we kugira ngo amufashe.

Umuganga wabihuguriwe kandi akanabyiga neza ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe usanga ariwe muntu uba ufite ubumenyi bwihariye mu kwita ku bantu bafite icyo kibazo ariyo mpamvu usanga rimwe na rimwe bashyirwa ku bitaro bitandukanye kugira ngo bafashe abantu.

Umuntu wese afite uburenganzira bwo kwitabwaho, hatitawe ko ushobora kumubangamira ngo ni uko afite ubumuga bwo mu mutwe, kandi yari akwiye kujyanwa aho agomba kuvurirwa, na we ubuzima bwe bukitabwaho.

Imiryango imwe n'imwe igiye itandukanye igenda ivuga yuko ifite abarwayi bo mu mutwe kandi babuze ubuvuzi, bityo bakeneye ko bakitabwaho ndetse bakegerezwa n'abaganga bashobora kubafasha kugira ngo haboneke agahenge mu miryango imwe n'imwe.

Ntabwo abantu benshi biyumvishaga impamvu hariho ibitaro bishinzwe kuvura abarwayi bo mu mutwe, kugeza ubwo babonye ko hari n'amashuri makuru ndetse na za kaminuza, byiyemeje kwigisha kwita ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo.

Ibitaro ngendanwa ni bumwe mu buryo bukunze kwifashishwa hatangwa serivisi zihuse z'ubuvuzi, kubera ko bishobora kujyanwa aho ariho hose bagasanga umurwayi aha ari cyangwa se abandi bantu bakeneye gukorerwaho ubukangurambaga.

Mu miryango imwe n'imwe usanga harimo ikibazo cy'abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe, niyo mpamvu usanga leta yiyemeza gufata abaganga batandukanye, bakajya gukomereza akazi kabo mu ngo zimwe na zimwe, aho usanga barushaho kuganiriza abafite ibyo bibazo.

Abaganga bashinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe igihe cyose usanga bavuga ko ubuke bwabo butuma badakora inshingano zabo neza, kuko n'iyo bagerageje kuzikora bibatera umunaniro ukabije kubera ko usanga icyo kibazo gifitwe n'abantu benshi.

Ubuzima bwo mu mutwe buba bugomba kwitabwaho, cyane ko usanga abafite ibyo bibazo bavuga ko babitewe n'impamvu zitandukanye rimwe na rimwe ugasanga ari ibikomere bagiye bahura nabyo mu buzima bwabo, bityo ikaba ariyo mpamvu nta muntu n'umwe wemerewe kubacira urubanza.

Ibiganiro byose ndetse n'ubukangurambaga bufite aho buhuriye n'ubuvuzi bwo mu mutwe, usanga kenshi na kenshi inzobere zikunda kubura ngo zitange ubwo bujyanama kandi hari abantu benshi babikeneye, ugasanga hari abafashwe n'ihungabana.

Abana bato ndetse n'abagore batwite, bagira amavuriro yabo bwite ashinzwe kwita ku buzima bwabo, kandi ugasanga n'abagize ikibazo cyo kuvuka ku babyeyi bafite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, barushaho kwitabwaho bakavurwa ibyo bikomere.

Abashinzwe kwita ku ndwara zo mu mutwe, bakunda kugaragaza ko kugira ngo umenye neza imitekerereze y'umuntu, umenye neza ikibazo afite, uba ugomba kubanza gufata umwanya ukamuganiza ukumva ibyo akubwira nawe ukagira ibyo umusubiza.

Abaganga bashinzwe kwita ku ndwara zo mu mutwe cyangwa se izifata ubwonko, usanga bakunda kuboneka gake ku bitaro kubera ko baba bafite n'ahandi hantu bagomba kujya gutanga iyo serivise, cyane ko atari nabyo byonyine baba bashinzwe kuvura.

Mu myaka ishize, ubuvuzi bw'amenyo bwari ikibazo ku bantu bose, bitewe n'uko bwatangwaga gake mu bitaro, none ubu ngubu mu bitaro byose buratangwa, haba ku mwana ndetse n'umukuru kandi bose bagakira.

Abaganga bashinzwe kwita ku menyo bagirwa inama zo kwitwararika igihe cyose bari kuvura kugira ngo batangizeriza iryinyo ritarwaye kandi baryitiranya n'ibirwaye, bityo bigatuma amenyo y'umurwayi yangirika kurushaho.

Ku bigo nderabuzima ndetse n'ibitaro bitandukanye, hagenda harushaho gushyirwa ibikoresho bishobora gutuma, abashinzwe kwita ku buvuzi bw'amenyo babikora, kandi bakabikora neza, bitewe n'uko usanga ari serivisi ikenerwa n'abantu benshi.

Igihe cyose ufite ikibazo ukeneye ubuvuzi bwo kwa muganga, waba urwaye amenyo cyangwa ibindi bintu, uba ugomba kubegera bakagufasha bitewe n'uko ari bo bafite igisubizo cya nyuma kubyo bagomba kugukorera, igihe cyose wabyikorera ushobora kwiyangiriza.

Ubuvuzi bugenda butera imbere aho usanga ibita byose bigenda bishyirwamo abaganga bafite ubuhanga bwihariye mu kwita ku ndwara z'amenyo bityo bigatuma abantu benshi bagira ubuzima buzira umuze kandi amenyo yabo agahora abungabungwa.

Abahanga mu gusukura amenyo, ntibahwema kugaragaza ko hari n'ubundi buryo butandukanye bushobora kwifashishwa n'abantu benshi, aho ushobora gukoresha urudodo cyangwa uburoso, ugasukura amenyo, ugafasha umubiri wawe kubaho nta burwayi.

Kwita ku menyo ni ngombwa kandi ukabikora kenshi gashoboka bitewe n'uko hari ubukangurambaga bwinshi bugenda bukorwa, bukagaragaza neza uburyo bwo kubikora kandi neza bigakorwa igihe kirekire.

Abaganga ndetse n'abandi bantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu, ni gake wasanga batari aho bakorera. Bitewe n'uko bakenerwa kenshi kubera ko baba batanga serivisi zikenerwa n'abantu benshi mu gihe gito.

Bamwe mu bantu bagenda barushaho kugira ibibazo by'amenyo, usanga batanga ubuhamya ko iyo ndwara ari indwara ikwiye gukumirwa, kugira ngo abenshi birinde kuzahura n'ububabare buterwa na yo, ndetse n'ibihombo byinshi biyiturukaho.

Nyuma y'uko abana bashishikarijwe kwita ku isuku y'amenyo yabo bakayagirira isuku usanga indwara zifata amenyo ndetse n'izindi zo mu kanwa zaragabanyutse bitewe n'uko iyo miti bakoresha ibafasha kwirinda izo ndwara kandi bigatuma batabaho bafite impungenge.

Abashinzwe kuvura indwara zo mu kanwa cyane cyane izifata amenyo, bakunze kugira abantu inama zo kugirira amenyo yabo isuku kubera ko igihe batabikoze gutyo bishobora kubakururira izo ndwara kandi bigatuma bishyira mu kaga amenyo yabo.

Uko abantu bagenda batera imbere mu mitekerereze niko bagenda barushaho kuvumbura uburyo bwiza bushobora gukoreshwa havurwa amenyo kandi bongera n'isuku yayo, bityo ugasanga abantu barushaho kwigishanya hagati yabo uburyo bwiza.

Iyo umwana agiye kwivuza amenyo kwa muganga, aba agomba guherekezwa n'umubyeyi kugira ngo baze kugira ubwumvikane hagati y'umuganga n'umurwayi, bityo bitaza kugora ushinzwe kuvura kandi ari mu nshingano ze.

Iyo umuntu arwaye indwara zo mu kanwa by'umwihariko izifata amenyo, usanga bakunze kumwohereza ku bitaro bikuru, kubera ko ariho usanga hari ibikoresho byose, bitewe n'uko biba bihenze bidakwiye kugezwa ku bitaro biciriritse kandi bikenerwa na buri umwe wese.

Abaganga bavura indwara zitandukanye by'umwihariko izo mu kanwa, usanga bafite uburambe mu gukoresha ibyuma byose bishobora kubafasha gusuzuma indwara ndetse no kumenya uko umurwayi yiyumva bitewe n'uko indwara zo mu kanwa by'umwihariko zifata amenyo ziba zitandukanye.

Abaganga babifashe nk'inshingano zabo bamaze kumenya ko uruhare rwabo mu kwigisha abantu ko bagomba kwita ku menyo yabo ari ngombwa, bityo bahitamo gukora ubukangurambaga. Ubutumwa bwo kwigisha abantu koza amenyo bukagera henshi.

Abashinzwe gukora ubukangurambaga bwo gushishikariza abandi kwita ku buzima bwabo bw'amenyo, usanga bavuga ko umusanzu wabo ugera ahantu hose kubera ko abantu benshi baba babakurikira barushaho kubikurikirana kandi bakabikora buri munsi.

Abaganga kimwe n'abandi bantu bafite inshingano zo kwita ku menyo; mbere yo kujya kuvura abandi barabanza bagasuzuma neza ayabo; kugira ngo bizere ko ubuzima bwabo buzira umuze, binyuze mu kwisuzuma bo ubwabo.

Ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'izindi ndwara zo mu kanwa, bwashyizwemo imbaraga cyane ku rwego rw'uko usanga hari amavuriro yigenga, aba ashinzwe gufasha abantu bafite ibyo bibazo bijyanye n'amenyo kandi bakavuga ko bikorwa mu gihe gito.

Biragoye ko ibikoresho bikoreshwa mu bitaro ndetse n'ahandi hose hatangirwa serivisi z'ubuvuzi wabona umuntu uvuga ko yabyiba, kubera ko haba harimo umutekano wo ku rwego rwo hejuru bityo bigatuma n'ibirimo byose bitekana.

Ababyeyi bose bagirwa inama yo gusuzuma amenyo y'abana babo, bakareba neza niba nta kibazo bafite, by'umwihariko abatararageza igihe cyo kuvuga aho bababara kugira ngo bitazatuma hagaragara indwara bamaze gukura, bikababangamira cyane.

Abana, akenshi iyo bagize ikibazo cy'indwara zo mu kanwa bakunda guhangayikishwa n'izifata amenyo cyane, kubera ko baba bazi yuko hashobora kuvamo gukurwa amenyo, kandi babitinya, bitewe n'uburibwe bitera.

Ahantu hose mu bigo by'amashuri usanga hakorwa ubukangurambaga bashishikariza abana kugira isuku y'amenyo, aho usanga banigishwa uburyo bagomba kuyoza kandi bakanayasukura ku buryo bwagenwe n'abaganga babishinzwe.

Abageze mu zabukuru igihe cyose bumva batameze neza, bitewe n'uko ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba ari buke, bagirwa inama yo guhita bajya kwa muganga cyangwa baba badafite intege zo kugerayo, ababishinzwe bakabagezayo vuba.

Abageze mu zabukuru bakenera kwitabwaho kandi bagatizwa imbaraga ndetse n'ibitekerezo bibafasha kumva batekanye, aho usanga igihe cyose batabikorewe ubuzima bwabo burushaho kwangirika mu gihe gito kandi bigatuma bahungabana.

Abageze mu zabukuru, mu myaka yashize, byagaragaraga ko kuba batitabwaho ngo baganirirwe kandi bahabwe abantu babababa hafi, byabagiragaho ingaruka bigatuma bapfa vuba, bitewe n'uko bigungaga igihe kirekire bari bonyine.

Abakunze kwita ku bageze mu zabukuru by'umwihariko abasaza n'abakecuru, usanga bavuga ko bitanga ingaruka nziza mu bijyanye n'umusaruro, kubera ko bituma abo bashaje bumva ko bakunzwe, bakumva ko icyizere cy'ubuzima kigihari.

Igihe cyose usanga abantu bakuze by'umwihariko abageze mu kiciro k'izabukuru, bakenera abana baba iruhande kugira ngo babaganirize babamare irungu, bibarinde kwiheba no kwigunga kubera ko ibyo byonyine bishobora gutuma bigunga cyane, ubuzima bwabo bugacogora.

Ibigo byinshi usanga bikunze gutanga serivisi zitandukanye nubwo ziba zishyuza amafaranga ari hejuru kuri serivisi yo kwita ku bageze mu za bukuru, kubera ko bakenera kwitabwaho n'abantu babihuguriwe kandi bafite ubumenyi bwite bwihariye.

Ahantu hose, hacururizwa imboga n'imbuto, abantu bakuze bakunda gutemberezwayo, kuko usanga nabo bibwira yuko ba ushobora kuzakora ako kazi. Bakagakuramo amafaranga bitewe n'uko katabasaba imbaraga nyinshi, kandi umubiri wabo utazifi.

Abageze mu zabukuru bakenera kwitabwaho by'umwihariko, ni yo mpamvu usanga hari abaganga bashinzwe kubitaho kandi bakabamenyera icyo bashaka, ariko by'umwihariko bakabamara irungu, mu gihe cyose bari kumwe na bo.

Abagize umuryango bagirwa inama yo kwitanaho umwe ku wundi kugira ngo habungabungwa ubuzima bwa buri wese, kandi arusheho kumva akunzwe anabone agaciro k'umuryango avukamo bitamutera kwigunga ngo yumve ari wenyine.

Abageze mu zabukuru ndetse n'abafite intege nke, usanga akenshi bakunze kwitabwaho n'abaganga, bakabihemberwa ku kwezi cyangwa mu gihe cyagenwe kubera ko baba babahereza serivisi nziza kandi bakabitaho mu gihe cy'izabukuru zabo.

Abageze mu zabukuru mu matsinda yabo bihurijemo, iyo bakora utuntu dutandukanye by'umwihariko nk'imirimo y'amaboko, bakunda gusurwa n'abaganga ndetse n'abandi bantu bafite uburambe mu kuvura indwara zo mu mutwe no kuganiriza abakuze kugira ngo babereke ko ubuzima bugihari.

Iyo umuntu ageze mu zabukuru by'umwihariko abasaza n'abakecuru, bakenera abantu babitaho, bakababa hafi rimwe na rimwe bakabegereza ibyo bakeneye kubera ko imbaraga zabo ziba ari nke zitabashoboza kubyigezaho.

Minisiteri y'ubuzima igenda ishishikariza imiryango imwe n'imwe itandukanye, igiye ifite abantu bageze mu za bukuru ko bagomba gushaka umuntu wabugenewe ugomba kujya asigara yita kuri uwo muntu, kugira ngo bimuhe icyizere cy'ubuzima kandi bimurinde kwigunga.

Abakuze iyo bari guhabwa imiti ibafasha kubaho neza mu gihe cy'izabukuru, bakunda kugirwa inama yo kwitondera kuyikoresha bitewe n'uko bashobora kuba baribagiwe igipimo babwiwe na muganga kandi na muganga akaba asabwa kubasobanurira byimbitse.

Abakuze bakunze kugaragazwa ko bakunda kugorwa no kuba bakora imyitozo ngororamubiri bitewe n'uko intege nke z'umubiri wabo ziba zibigena, bakavuga ko na bo bakwiye gufashwa hakaboneka ubundi buryo bajya babikora ariko bigakorwa bitaweho n'abashinzwe kubitaho.

Abakecuru n'abasaza iyo begerewe n'urungano cyangwa abandi bantu bakiri mu myaka yo hasi, babafasha gususururuka no kwisanzura bakumva na bo bakunzwe bakerekwa urukundo batari bamaze iminsi babona.

Igihe cyose abageze mu za bukuru abanyarwanda bavuga ko ibyabagenewe bahabwa, bagomba kubibonera ku gihe, kugira ngo bibafashe kubera ko imbaraga zabo zo kujya gukora ziba ari nke kandi bakeneye ibyo kurya igihe cyose.

Abageze mu zabukuru hari ahantu haba haragiye hagenwa ko bagomba kuzajya bahurira n'abashinzwe kubitaho, by'umwihariko bagahura mu mpera z'ukwezi kugira ngo barusheho kuganirizwa, banerekwe urukundo bibarinde kwigunga bishobora kubakururira urupfu.

Umunsi ku munsi uko abageze mu zabukuru ndetse n'abamaze kugira imyaka yigiye hejuru bagenda barushaho kwitabwaho n'abantu, usanga bikunze kubagaragariza ko nabo bari abantu kandi bakwiye kwitabwaho bityo ubuzima bwabo bukabungabungwa.

Imiryango myinshi irimo abagiye bagaragara ko bageze mu za bukuru usanga hari abashinzwe kwita kuri abo bageze muri icyo kigero, kugira ngo bumve ko batari bonyine kandi bibafashe kubaho batigunze mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abageze mu zabukuru bitewe n'uko bitabwaho bavuga ko bibongerera iminsi yo kuba ku isi kandi bigatuma bumva batekanye bitewe n'uko baba beretswe urukundo n'abantu benshi batandukanye igihe cyose bari ku Isi.

Abageze mu zabukuru iyo bari kwitabwaho n'abaganga bagerageza kubakoresha utuntu dutandukanye ku buryo banabona ko ari imyitozo ngororamubiri, ariko binyuze mu mikino hagati yabo ku buryo bumva bitabavunnye kugira ngo barusheho kubikunda no kubinezererwa.

Abantu by'umwihariko abamaze gukura iyo bagiye kwa muganga, usanga bitabwaho ku rwego rwo hejuru, bagasuzuma indwara zose n'izo batatekerezaga, kubera ko ubudahangarwa bw'umubiri bwabo buba ari ari buke, bashobora kurwara n'indwara zitandukanye.

Abageze mu zabukuru bakunda kubangamirwa no kunywa imiti y'indwara zitandukanye bagenda banywa, bahawe n'abaganga bababwira ko bagomba kuyifatira mu rugo, bitewe n'uko intege z'umubiri wabo ziba zitangiye kuba nke kandi badafite ababafasha gufata iyo miti.

Iyo umuganga cyangwa undi muntu wabihuguriwe afite inshingano zo kwita ku muntu ufite ikibazo cyo kugera mu zabukuru, usanga akunda kubifata nk'akazi ke ka buri munsi kandi akumva binamunejeje kwita kuri uwo musaza cyangwa umukecuru.

Abageze mu za bukuru intege z'umubiri wabo ziba ari nke, ugasanga akenshi bakunda kwirirwa mu rugo batajya gukora, niyo mpamvu usanga iyo badafite umuntu ubaba hafi, bakunda kwigunga kuko baba babona nta rukundo berekwa icyo gihe.

Ubukangurambaga bukorwa kenshi bukunze kwibanda ku kuganiza abageze mu zabukuru, bakabereka ko nabo hakiri ubuzima kandi badakwiye kwigunga kubera ko baba bafite ababari iruhande banabitayeho.

Abageze mu za bukuru bavuga ko kwitabwaho kandi bakagaburirwa kenshi n'abashinzwe kubitaho, bibatera akanyamuneza bakumva bagifite icyizere cy'ubuzima, kuruta uko bashobora gusigara bonyine bikabatera kwigunga.

Igihe cyose wahawe imiti na muganga uba ugomba kwitwararika kandi ukayifata ku buryo yabikubwiye kubera ko usanga abantu barwara indwara zitandukanye bityo hakaba hari izikenera imiti kandi ukayifatira ku masaha yagenwe igihe cyose waba uzi....

Kwita ku muntu ugeze mu za bukuru ni akazi katoroshye bitewe n'uko uba ugomba kugerageza ibitekerezo byawe bikaza guhuza n'ibye cyangwa bitanashoboka, ukaza kugerageza kumwumvisha ibyawe, kugira ngo arusheho kumva ko muri kumwe.

Abaganga bashinzwe kwita ku bafite intege nke ndetse n'abageze mu za bukuru, bagaragaza ko imbogamizi bakunda guhura nayo ari uko abo bantu bashinzwe kwitabwaho baba bafite ikibazo cy'uko bakeneye ababaganiriza kenshi gashoboka, kandi umwanya ntawo.

Umuntu wese ku myaka afite aba agomba kugerageza agakora imyitozo ngororamubiri, akarambura umubiri we ku kigero abishoboyeho, kugira ngo yirinde indwara zitandukanye harimo na za rubagimpande zishobora kumufata igihe icyo ari cyo cyose.

Iyo umuntu asoje akazi akajya mu za bukuru usanga afata umwanya we munini akawumara yita ku bana by'umwihariko abuzukuru kugira ngo bamumare irungu bitewe n'uko ibyo gukora biba byarabaye bike muri iyo myaka.

Indwara zandura mu rwego rwo kuzihashya, usanga Guverinoma y’u Rwanda ndetse na minisiteri y'ubuzima, bigenda birushaho gukora ubukangurambaga butandukanye, bakagenda bumvisha abantu ko izo ndwara zandura zishobora kuvurwa kandi zitavurwa zikica abazirwaye.

Abanyarwanda ndetse n'abandi bantu muri rusange, usanga barasobanukiwe ko ari uburenganzira bwabo kugira amakuru ku bijyanye n'ubuvuzi ndetse n'izindi serivisi bahabwa zose, kugira ngo igihe cyose babikeneye bajye bamenya aho bagomba kubariza.

Abashinzwe gukora muri serivise z'ubuvuzi rimwe na rimwe usanga ari bo bakunze gushishikariza abantu kwita ndetse no kurinda ibyo bakoresheje byose bivura cyangwa ibyo bakuye kwa muganga, bakabijugunya ahabugenewe kugira bitazateza amakuba.

Abaturage bo mu Rwanda bashima ko igihugu cyabo kigerageza kwita ku buzima bwabo binyuze mu nkunga zimwe na zimwe kibaha kandi kikabegereza n'ubuvuzi kugira amagara yabo arusheho gusigasirwa bagere ku iterambere ryabo bari bazima.

Ubuvuzi bukwiye kugera ku muntu wese indwara yo yaba arwaye kugira ngo abashe kwitabwaho bityo bimurinde gutereranwa kandi bigabanye n'ibyago byo kuba yahitanwa n'iyo ndwara biturutse ku kuba ataritaweho.

Abantu bagirwa inama yo gukora ubushakashatsi, bakamenya serivisi z'ubuzima bemerewe kubona, kandi bakamenya n'imiti bagomba guhabwa igihe cyose barwaye, kugira ngo bazajye bamenya umuyoboro bagomba kunyuramo igihe cyose basaba kuvurwa.

Abantu bose igihe cyose habaye ubukangurambaga baba bagomba kwita neza ku biri kuvugirwamo kandi bakareba neza ibibashishikarizwa kubera ko biba biri mu nyungu zabo bakamenya neza ko na leta ibatekerezaho kandi iharanira kumenya icyateza imbere ubuzima bwabo.

Umunsi ku munsi usanga abayobozi bakuru barajwe ishinga no kuvumbura umuti w'ibibazo byabonetse, mu bikorwa byose bijyanye n'ubuvuzi. Kugira ngo barusheho kubungabunga ubuzima bw'abaturage kandi babonereho no kugira igihugu gikungahaye, biturutse ku baturage bameze neza.

Igihe icyorezo cya Covide cumi n'icyenda cyari cyugarije Isi ndetse n'u Rwanda muri rusange, wasangaga ikibafasha kubyumvikanaho ari amakuru bahanahana hagati y'ibitaro n'ibigo nderabuzima, bakarushaho gucukumbura abayirwaye, bagashyirwa ukwabo.

Serivisi z'ubuvuzi zitangwa kenshi kandi usanga leta y'u rwanda igerageza mu gukora ubukangurambaga butandukanye igakora uko ishoboye kose ikagaragaza indwara zishobora gufata umuntu, aho usanga igaragaza ko na kanseri iyo zifasha abantu zikunda kubica kandi cyane.

Umunsi ku munsi usanga gahunda ndetse n'ingamba z'ubuvuzi mu Rwanda, zigenda zirushaho kuvugururwa, hagamije mu gutanga serivisi nziza z'ubuvuzi, ni muri urwo rwego usanga abakora muri Minisiteri y'Ubuzima, bagira inshingano zo gushishikariza abantu kumva no kubahiriza amabwiriza.

Usanga igitsina gore muri rusange kigira iminsi bwite kishimira ko nacyo kigira uruhare mu gutanga ubuvuzi bufite ireme butangwa hirya no hino mu bitaro bitandukanye kandi nabo bakishimira ko bafatanya n'abandi kubaka ubuzima bwa muntu.

Igihe cyose hari itegeko rishya cyangwa se indi ngengabihe yasohotse ku bijyanye n'ubuvuzi, usanga abayobozi ndetse na minisiteri zibishinzwe, zifata inshingano zo kujya gusobanurira abaturage, ndetse na rubanda rwose impinduka zabayeho.

Abayobozi ndetse n'abandi bantu bashinzwe kwita ku buzima bw'abantu usanga bafite amatsinda bagiye bakoreramo, ari nayo abafasha kujya gukora ubukangurambaga mu nshye z'igihugu zitandukanye, aho bagenda barushaho gusanga abantu no kubegereza ibikorwa byiza bibagomba.

Abantu bakwiye kumenya ko na bo bafite uburenganzira bwo kugira imibereho myiza, biturutse mu byo babwirwa cyangwa se bakorerwa na Leta, bigatuma bagira uruhare mu bibakorerwa kandi bakabaho neza mu buzima bwabo bwose.

Kwa muganga ahavurirwa impinja ndetse n'aho abaganga bafashiriza ababyeyi bafite abana bato, usanga hakunze kuba hari urusaku, ari na yo mpamvu usanga bavuga ko hagomba kugira umuganga waho bwite, ushinzwe kubyitaho.

Nyuma y'uko icyorezo cya Kovide cumi n'icyenda cyadutse kandi kigakwirakwira ku isi hose, Leta z'ibihugu bitandukanye zagiye zigerageza gutanga urukingo mu baturage, kugira ngo bose bemere neza ko ubuzima bwabo burinzwe ku bijyanye n'icyo cyorezo.

Uko serivisi z'ubuvuzi zigenda zirushaho gukwirakwizwa ahantu hose mu gihugu, abantu bose bagenda barushaho kubyishimira, bavuga ko batakizahazwa n'indwara, bitewe n'uko basuzumirwa ku gihe kandi bagahabwa imiti ibafasha.

Urukingo rwa Kovide Cumi N'icyenda rwabaye intwaro yifashishijwe mu guhashya icyo cyorezo, kubera ko abantu bose bafashe inkingo nk'uko biteganywa na minisiteri y'ubuzima, bibafasha kugira ubudahangarwa bwo guhangana n'icyo cyorezo mu mibiri.

Minisiteri y'ubuzima ni imwe muri minisiteri zizwi n'abantu benshi mu Rwanda kubera ko usanga ifite ahantu hagiye hatandukanye ihurira n'abaturage, kandi ikarushaho no kubasobanurira uburyo ikora bakayimenya ari benshi, kandi ugasanga banayikunda kubera ko yita ku buzima bwabo.

Ubukangurambaga mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya Kanseri, bukunze gutangwa umunsi ku munsi, bitewe n'uko bamaze kubona ko abantu benshi bari guhitanwa na cyo, ni yo mpamvu usanga abakozi bamwe na bamwe bo ku bigo nderabuzima, barahawe izo nshingano zo gushishikariza abantu icyo gikorwa.

Igihe cyose hateye indwara y'icyorezo, ni cyo gihe usanga igihugu gifite akazi gakomeye ko gukora ubukangurambaga kugira ngo abantu bose basobanukirwe ingano y'icyorezo cyabateye bityo barusheho kukicyirinda kandi bakomeje.

Abavuzi cyangwa abaganga igihe cyose bari mu nshingano z'akazi kabo kaburi munsi bagomba kuba bambaye neza imyenda y'akazi kabo kubera ko ari wo mwambaro ushobora kubarinda icyago icyo ari cyo cyose cyava mu byo bakora kandi gishobora kwangiza ubuzima.

Minisiteri y'ubuzima igerageza guhishurira abantu bose ko hari indwara zitandukanye zigerageza gufata abantu ariko nayo ikagaragaza ingamba bwite yafashe zo kuzirwanya, bigatuma abantu bumva batekanye kandi bafite amahoro.

Ibitaro byose usanga bifite abantu babigize umwuga mu kwita ku ndwara zimwe na zimwe zifata abantu batandukanye, aho usanga hari nk'ababyeyi ndetse n'abandi bantu bagomba kwitabwaho n'abo baganga b'inzobere kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Imimerere igaragaza uko ubuzima ndetse n'indyo zikwiye kwitabwaho, ku buzima bwa muntu ikunze kugaragazwa nk'igishushanyo ndetse ikaba ifite n'ibindi biyikikije ku buryo buri wese arushaho kubisobanukirwa neza.

U Rwanda rugenda rurushaho gukorana n'imishinga myinshi itandukanye, ishobora kurufasha mu kwita ku buzima bw'abatura Rwanda, ugasanga binatuma abenegihugu babaho bishimye, kubera ko baba bahabwa serivise nziza zita ku magara yabo.

Iyo utanga serivisi z'ubuvuzi, igikorwa cyose ugiye gukora igishoboka ugomba kubisobanurira umurwayi, kubera ko iyo havutsemo impanuka zateza urupfu, bifatwa nk'ikosa ryawe igihe cyose utabimubwiye mbere yo kubikora.

Abaturage ntabwo bakunze kumenya ko ibihugu byabo bikunze kugirana imikoranire n'ibindi bihugu by'amahanga, bikabatera inkunga mu bijyanye n'ubuvuzi ndetse no kugura imiti, bakunda guhabwa igihe cyose barwaye, niyo mpamvu usanga abenshi bitiranya uruhare rw'amahanga mu buvuzi.

Abahanga benshi bagenda bakoreshwa mu gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'ubuvuzi, bakagaragariza abantu ibibagomba muri iyo serivise batanga kandi bakavuga yuko ari uburenganzira bwa buri wese kugira amakuru ndetse akamenya ibijyanye n'ubuganga.

Ibyemezo byinshi bikunze gufatwa hagamijwe guteza imbere ubuvuzi bwa rubanda, usanga iyo bimaze gufatwa bitewe n'uko biba byakozwe n'itsinda rigari, bikunda kumenyeshwa rubanda, kugira na bo bamenye ibyabagenewe.

Kwa muganga ndetse n'ahandi hantu havurirwa abantu, usanga hari ibikoresho bigiye bitandukanye bikunze kwifashishwa, ari na yo mpamvu umuntu wese igihe agezeyo aba asabwa kwigengesera kandi akirinda kuba yagira ibyo akubaganya kugira ngo atabyangirizwa.

Ibitaro byose usanga bikunda kugaragaza ko indorerwamo z'amaso zihabwa abantu zibafasha kubona neza, bityo isi ikababera nziza, bitewe nuko baba bari kurwanya neza ikibazo cy'ubuhumyi bushobora kubafata.

Ku bitaro hose haba hari inzu zabugenewe abarwayi ndetse n'abandi bantu bakeneye ubuvuzi bicaramo igihe cyose bategereje yewe ugasanga izo nzu zinakoreshwa igihe cyo gutanga ibiganiro biri guhabwa imbaga y'abantu nyamwinshi igihe bakoraniye hamwe.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, rimwe na rimwe usanga ibigo bizikoresha hari n'igihe bizikodesha ariko bikabikora ari kubw'inyungu za rubanda no kugira ngo barusheho kumva batekanye biturutse ku bikorwa byiza bibakorerwa mu buzima bwa buri munsi.

Inyubako zo kwa muganga ziba zaratwaye amafaranga menshi ndetse n'ingengo y'imari yo ku rwego rwo hejuru, ariko ugasanga abaturage babyinubira, bakavuga ko zikwiye kuba zigera buri hamwe bitewe n'uko batazi ko ziba zaratwaye Igihugu amafaranga menshi.

Ubuvuzi bwo mu Rwanda bwatejwe imbere ku rwego rw'uko usanga bukorera mu nyubako zisa neza ibyo bigatuma ko abavurirwamo bahabwa serivise nziza kandi bakishimira ko baziherebwa ahantu hasa neza igihe cyose.

Mu bitaro ndetse no kwa muganga usanga hari inyubako ngari abaganga bashobora guhuriramo n'abayobozi babo babakuriye, kugira ngo barusheho kujya inama ndetse no kwiga ku kibazo runaka cyagaragaye, bakoresheje izo nyubako kandi zibaha umutuzo.

Kwa muganga n'ahandi hantu hagenewe gukorerwa imirimo y'ubuvuzi usanga nta bindi bikorwa bihabanye nabyo bigomba kuhakorerwa kubera ko ari ahantu haba harubatswe kugira ngo harusheho kubungabunga ubuzima bwa muntu kandi bituma amagara ya muntu asigasirwa.

Ibitaro byose bivura abantu usanga hakubiyemo ibyigenga ndetse n'ibikorana na Leta, ariko kuba bitandukanye ntibituma bidatanga serivise nziza kandi zinoze, aho usanga byose icyo bihuriyeho ari ukwita ku buzima bw'abantu igihe cyose.

Ibikoresho byo kwa muganga biba bihenze kandi biboneka hake, ugasanga ku bitaro bimwe na bimwe ntabyo bafite bitewe n'uko nta bushobozi bwinshi bari bafite bwo kubigura, ariko bitewe n'inkunga za Leta, usanga bigenda birushaho kugera henshi.

Kwa muganga ndetse n'ahandi hantu bafite aho hahuriye n'ibitangwa mu buvuzi, usanga ariho hantu hakunda kugaragara ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga kubera ko ubuzima bw'abantu buba bugomba kwitabwaho ku kiguzi icyo ari cyo cyose.

Inyubako zose zitangirwamo serivisi zifite aho zihuriye n'ubuvuzi, usanga ibikoresho byose birimo bavuga ko byabatwaye amafaranga menshi ku buryo byagura uwashobora kubyigurira wese ngo ajye abikoresha ku buryo bwihariye ari yo mpamvu ababikeneye bagomba kujya kwa muganga.

Ingengo y'imari igenda ku nzu zose zikorerwamo ubuvuzi, iba ari amafaranga yavuye mu byo abaturage batanga, kandi igomba kubagirira akamaro bitewe n'uko baba baragize uruhare mu kugira ngo izo nyubako zibeho.

Ahantu hose hakorera ibitaro runaka, usanga hari abaganga kabuhariwe bashinzwe kwita ndetse no kubungabunga ku buzima bw'abantu, muri urwo rwego usanga harimo ababigize umwuga kandi bavuga ko bashaka no kwiga ibirenze kuri ibyo.

Mu mafoto menshi agaragazwa n'abaganga b'ibitaro bitandukanye, akunze kugaragaza ko ab'ibitsina byombi yaba abahungu cyangwa abagabo bose bashoboye kandi babasha kwita ku buzima bw'abantu bakabikora nk'uko itegeko ribigena.

Mu mavuriro menshi usanga harimo uburyo bwose bushobora korohereza abarwayi kubera ko baba ari abanyantege nke bityo bakaba bakenera ko ibintu byose bibaba hafi batari bujye gukaraba cyangwa ngo baryame kure y'aho bari kuba.

Iyo ugeze ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi ukunda gutungurwa n'uko usanze hameze bitewe n'uko abahakorera baba barahitayeho, cyangwa ba nyir'imishinga bakaba barazanyemo ibikoresho byose, bishinzwe kwita ku bantu bafite ibibazo bitandukanye.

Ibigo nderabuzima bitandukanye bikunze kugaragaza ko na byo bikunze kugira imbogamizi zitandukanye kubera ko usanga hari ibitaragerwaho n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa amazi meza ku buryo bunoze, bityo bigatuma bavuga ko leta ikwiye kubatekerezaho na yo ikabibegereza.

Ahantu havurirwa abantu cyangwa se izindi nyubako zitandukanye nk'amavuriro, usanga ari inyubako ziba ziteye amabengeza bitewe n'uko ziba zifite isuku kandi ugasanga banyirazo bazitaho kugira ngo barusheho gutanga serivisi zinoze.

Ibikorwa byo gusuzuma abarwayi barwaye indwara zitandukanye bikunze kubera mu bitaro ibyo aribyo byose usangwa kuba iyo serivisi itangwa ku buntu bishimisha abantu benshi kandi bakarushaho gukunda ibyo bahabwa kubera ko baba bumva binoze.

Mu bitaro ibyo aribyo byose usanga hagomba kuba harimo ibitanda kandi byiza, bigomba kwifashishwa baryamikaho abarwayi ndetse n'abandi bantu bose bakeneye serivisi z'ubuvuzi, kubera ko intege zabo ziba ari nke kandi bakeneye kwitabwaho.

Inyubako zose zitangirwamo ubuvuzi abazishinzwe usanga bagaragaza ko ibikoresho bafite nubwou bwose bihagije ariko byaba byiza kurushaho leta ibahaye ibindi bikoresho kugira nabo barusheho kwita ku buzima bwa muntu kandi usange ari inyungu z'igihugu.

Ku mavuriro amwe na'mwe atandukanye agenda arushaho gushimira Leta umunsi ku munsi, agaragaza ko ibikoresho bimwe na bimwe bakenera Leta igerageza kubibagezaho haba ibyabavunikiye mu myitozo ngororamubiri ndetse n'abarwaye ubundi burwayi bwite bwihariye bakarushaho gukira.

Mu bitaro usanga umurwayi afite uburenganzira bwo kwitabwaho n'abaganga yewe iyo basanze uburwayi bwe bwihariye bazana abaganga barenze umwe, bagahabwa inshingano zo kumukurikirana kugeza akize cyangwa kugeza amaze koroherwa.

Iyo ugeze ahantu hose hari ibitaro cyangwa izindi nyubako kabuhariwe zigenewe kwita ku buzima bw'abantu, uba ugomba kwitwararika kandi wanakenera serivisi zimwe na zimwe zitangirwa muri izo nyubako ukajyayo, kuko byose biba ari uburenganzira bwawe.

Abaganga bakunze kugira inshingano nyinshi zitandukanye ariko ugasanga inshingano nyamukuru ari ukwita ku buzima bw'abantu, ni yo mpamvu usanga bo ubwabo bagira amatsinda bakoreramo kugira abafashe guhugurana no kubwira bagenzi babo igishobora kubafasha mu murimo wa buri munsi.

Amaraso yose yavuye mu gikorwa cyo gutanga amaraso biturutse ku bukangurambaga buba bwarakozwe, usanga agenda atunganywa akazifashishwa mu gutabara imbabare kandi bigatuma bicungura ubuzima bwa benshi.

Abaganga usanga iyo badafite ibikoresho byose bibafasha gukora akazi bashinzwe neza, bibabangamira kubera ko usanga bavuga ko bituma badakora inshingano zabo neza, kandi bigatuma n'ubuzima bw'umurwayi butagerwaho neza nk'uko babishakaga.

Inyubako ziri hirya no hino mu gihugu zitanga serivisi z'ubuvuzi, usanga leta yaragerageje gukwirakwizamo ibikoresho bizajya bifasha abaganga mu kwita ku buzima bw'abantu kandi bikagabanya ingano y'umwanya batakazaga.

Abaganga ni bamwe mu bakozi ba leta bagaragarwaho gutanga serivisi nziza kubera ko ibyo bakoramo biba ari ukwita ku buzima bw'abantu, bagakorera ahantu leta yabashyize bityo ugasanga barushaho kwita ku bantu uko bikwiye.

Ibitaro bitandukanye bigenda byubakwa ahantu henshi kugira harusheho kunoza serivisi zitangwa mu buvuzi, aho usanga n'abana bagira ibitaro bagomba kuvurirwamo kubera ko bakenera kwitabwaho ku buryo bwihariye.

Ibigo nderabuzima bigenda byegerezwa abaturage mu rwego rwo kurushaho kurinda neza amagara yabo kubera ko abantu bose bafite uburenganzira bwo kuvurwa kandi bagahabwa serivisi z'ubuzima igihe cyose bazikeneye.

Mu bitaro hose ndetse no mu mavuriro haba hari abakozi b'inzobere kabuhariwe bashinzwe kubungabunga ndetse no kwita ku buzima bw'abantu kandi bakagenda bareba ko buri muntu wese yahawe serivise nziza kuko aricyo kiba cyamuzinduye.

Ku bitaro, ahantu hose hari inzu z'ababyeyi, biba bibujijwe kwinjiramo uri umuntu ubonetse wese, kubera ko ushobora gusanga hari inshingano ziri gukorwa n'ababigenewe, bigatuma ubangamira izo nshingano.

Impuzankano ndetse n'indi myenda ihabwa abavuzi, iba igomba kuba ifite umwihariko ibatandukanya n'abandi bakora mu bice runaka nk'uburezi cyangwa ibindi, kugira ngo aho bari hose bajye bahabwa icyubahiro ndetse n'ishema bakwiye.

Inyubako zose zigamije kwita ku buzima bw'umuntu usanga zigerageza gushyirwamo ibikoresho nyuma y'uko zimaze gusozwa kubakwa kugira ngo ubuzima bw'abantu burusheho kwitabwaho kandi bikorwe mu gihe icyo ari cyo cyose abantu babikeneye.

Ku bitaro bitandukanye ukunze gusanga hagaragara uruhare rw'abaganga bose haba umugore cyangwa umugabo, kubera ko buri umwe wese atanga umusanzu we mu kurokora ubuzima bwa muntu, akabikora ntacyo yikanga bitewe n'uko ari byo aba yarahisemo.

Ahantu henshi ku mavuriro haba hari abakozi kabuhariwe bashinzwe guhangana n'indwara runaka cyangwa se icyorezo, niyompamvu usanga hari n'imyambaro yabo bwite yabugenewe, bambara bagiye muri ibyo bikorwa, kandi ikabarindira imibiri.

Ahakorera abaganga ndetse n'ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, ukunda gusanga akenshi hakunda kugaragazwa n'abahakorera, aho usanga rimwe na rimwe bakunda kugaragaza ko bahatangira serivisi nziza kandi bakita ku bantu ku bwinshi, bigatuma baganwa n'abantu benshi.

Abaturage bishimira ko ibigo nderabuzima bigenda birushaho kubegerezwa, by'umwihariko ugasanga bigera mu tugari twose, n'aho bitagera bagashyiraho amavuriro mato ashobora kubafasha kubona serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, kubera ko iyo barwaye bakenera kuzikoresha kenshi.

Mu bitaro cyangwa ahandi hantu hose hacururizwa imiti ni ahantu usanga hakwiye kurindwa cyane kubera ko imiti ishobora kwangirika kandi izahabwa abantu, bigatuma biteza akaga kuri bo bitewe nuko iba yarangirijwe n'icyo kintu icyo ari cyo...

Abaganga usanga akenshi bakorana na bagenzi babo b'abanyamahanga, hagamijwe gutanga serivisi nziza zinoze z'ubuvuzi kandi bakita ku buzima bw'abantu bashinzwe, ugasanga ibyo byose bikorwa binyuze mu bufatanye bw'ibihugu.

Ibitaro byose mu gihugu usanga bifite abakozi babugenewe aho usanga bafite inshingano zo kwakirana neza ababagana, kandi bakabereka urukundo igihe cyose bari kubahereza serivise babasabye kugira ngo barusheho kwiyumvanamo na bo.

Ibikoresho birimo ibitanda ndetse n'ibindi bigenda birushaho gushyirwa mu bitaro, abarwayi bavuga ko bibafasha kuruhuka neza igihe cyose bategereje ubuvuzi kandi bikabafasha kumva basubirana ubuzima mu gihe gito kuko baba batekanye.

Ubuvuzi bw'amaso bukunze kugaragara ko ari ikibazo bitewe n'uko usanga ibitaro bibushinzwe biboneka hake kandi abantu benshi bakeneye ubwo buvuzi, impande n'impande mu gihugu, bityo bagakunda kwinubira ko batanyuzwe n'ibyo bahabwa.

Mu nyubako zose zagenewe gukorerwamo ubuvuzi, haba hagomba kuba harimo umwanya wisanzuye abarwayi ndetse n'abandi bantu bakeneye guhabwa serivise bagomba gutegerezamo ndetse hakaba harimo n'intebe zibafasha kwicara bakaruhuka igihe cyose bategereje.

Umuganga wese aba agomba kuba azi neza ahantu yabitse ibikoresho kugira ngo igihe cyose abikeneye aze kumenya aho abishakira bitamusabye gukora urugendo rurerure, bimufashe kurushaho gutanga serivise nziza z'ubuvuzi zo kwita ku barwayi.

Si mu nzu zabugenewe gusa kuko usanga hari n'ibitaro bimwe na bimwe bigiye bifite ibikoresho bya kizungu bishobora kwifashishwa mu kuvura no kwita ku buzima bw'abantu, bityo abarwariyeyo bakabasha kubikoresha ku giciro kiri hasi.

Iyo ugiye kwa muganga ugasanga hari ibikoresho bitameze neza uba ugomba kubwira abaganga ko hari ibitakunyuze kugira ngo bahindure babashe kuguha ibishobora kukunyura kugira ngo indwara yawe itabangamirwa n'ibindi bintu bitandukanye.

Inyubako zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi, usanga abantu bose bazisanzuraho kubera ko ntawe ziba ziheza, bitewe n'uko ziba zarubatswe ngo zitange serivisi zikenerwa na buri umwe, uko yaba asa kose cyangwa aho yaba aturuka aho ariho hose.

Kugera ku bitaro mu myaka ya mbere ukahasanga inzu zivurirwamo abantu bafite ibibazo bitandukanye byari ingorabahizi, ariko uko igihugu kigenda gitera imbere, usanga hari inzu zitandukanye ku buryo umuntu wese avurwa bitewe n'ikibazo afite.

Bitewe n'isuku cyangwa se umucyo ukunze kuboneka ku mavuriro menshi, usanga byo ubwabyo byihamagarira ababigana kubera ko isuku yaho iba igaragaza icyizere y'uko n'abahivurije bashobora gukira.

Abakozi bashinzwe kwita kwa muganga ndetse bagacunga n'isuku yaho, usanga bagaragaza ko ari akazi bakora kandi kabasaba imbaraga nyinshi uretse ko nanone kuhabungabunga bituma na bo bumva batewe ishema no kuba hasa neza.

Mu bitaro hose ahantu hari igitanda kiryamikwaho abarwayi barembye usanga hari n'imashini iba igomba gupima imiterere y'umutima wabo kugira ngo igihe cyose umutima utari gukora neza umuganga arusheho kubimenya.

Bitewe nuko abaganga baba bafite ahantu bakorera kandi hazwi, usanga ababakeneye bose bamenya aho babashakira, igihe cyose babakeneyereye bagafata urugendo bakabasanga ugasanga n'indwara barwaye zirakize.

Ahantu hose hari ibitaro cyangwa ivuriro haba hagomba gushyirwa icyitonderwa kandi hagashyirwa ibiranga byose ko hari iyo nyubako kugira ngo umuntu wese ugize ikibazo abashe kubagana bamufashe kandi batamusabye kujya kure ngo asiragire.

Abashinzwe kwita ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, usanga ibitaro bakoreho barabyiyumvishemo nk'aho ari iwabo mu rugo kubera ko usanga amasaha menshi ariho bakunda kubarirwa, biturutse ku kazi bakora kabasaba kuhaboneka cyane.

Bitewe n'uko inzu zikorerwamo ubuvuzi cyangwa ibitaro bikunze gukwirakwizwa hirya no hino mu gihugu, usanga leta ikunze kugaragaza ko ishyiramo ingengo y'imari nyinshi bitewe n'uko iba igira ngo bibe bisa neza kandi bifite umucyo.

Inyubako zikunze gutanga serivise z'ubuvuzi, abantu bavuga ko bibashimisha ku kuba zaramaze gukwirakwizwa ahantu hose mu gihugu, bigatuma serivisi zijyanye na zo bazibona bitabagoye kandi ku kiguzi kiri hasi.

Abaganga kabuhariwe bashinzwe kwita ku babyeyi bavuga ko kuba hari inzu bwite zagenewe ababyeyi, bifasha abaganga kubitaho bakabikora neza kubera ko baba bitandukanyije n'abandi barwayi rusange.

Iyo ugiye kwa muganga uba ugomba kunyura ku nzu y'ababyeyi witwararitse kugira ngo utaza guhungabanya umutekano w'abarimo imbere cyangwa se ukica akazi k'abaganga kandi ari inshingano zabo kukubahiriza.

Ibitaro bitandukanye mu gihugu biba bifite abaganga b'inzobere benshi kugira ngo harusheho kunozwa imitangire myiza ya serivisi z'ubuvuzi, kubera ko inyubako ziba ari ngari zirwariyemo abantu benshi haba hakenewe abahanga kugira ngo bitabweho.

Abaganga iyo bari mu nshingano aho bakorera hose usanga bakunda kurangwa n'akanyamuneza kandi bafite umuhate bitewe n'uko bavuga ko akazi ko kwita ku buzima bw'umuntu utagakoranye umuhate ntacyagerwaho.

Ababyeyi ndetse n'izindi ndembe zikeneye ubuvuzi bw'ibanze, bukwiye gukorwa ku kigero cyihuse, usanga bakwiye kugira aho bavurirwa kugira ngo babashe kwitabwaho bitandukanye n'abandi bantu abo aribo bose, kubera ko baba bafite ibyago byo gupfa.

Mu mavuriro menshi agiye atandukanye, nyuma yo gukoresha ibikoresho bitandukanye bibafasha mu kuvura no kwita ku bantu, bashyiramo n'ibindi bishushanyo kugira ngo abarimo batarambirwa kandi barusheho kwigira kuri byo, babone neza uko ibintu biri gukorwa.

Inyubako zose zikorerwamo ibikorwa bijyanye no kwita ku buzima bw'abantu ahantu hose zubatse usanga Leta igaragaza ko yabigizemo uruhare rukomeye kandi nayo ikaba itewe ishema no kuba igira uruhare rurerure mu kwita ku buzima bw'abayituye.

Bitewe n'uko abaganga bakora akazi gakomeye kandi bagakora igihe kirekire ku munsi, ni bamwe mu bantu usanga basoza bafite umunaniro; kandi bikabatera kwihugiraho, ku buryo bibagirwa no kwita ku miryango yabo babereye ababyeyi.

Usanga ku bitaro by'igihugu hose hari urujya n'uruza rw'abantu bakeneye serivise, haba abaje gusura abarwayi cyangwa se hari n'abandi baje kwivuza kandi ugasanga bishimira yuko izo serivise zose zabazanye bataha bazihawe.

Inyubako zose zitangirwamo serivisi z'ubuvuzi ibikoresho byazo birimo biba bigomba kuba byorohereza abarwayi, kandi binagaragaza neza ko uburenganzira bwabo bwubashywe, bitewe nuko bakenera kuryama kandi bagakenera no kuruhuka igihe cyose bari kuvurwa.

Inyubako zose zitangirwamo serivise zifite aho zihuriye n'ubuvuzi, usanga ari inshingano za buri umwe wese kuzibungabunga kubera ko ziba zihari ku nyungu rusange, muri urwo rwego, usanga buri muntu wese aba agomba kuzitaho, yewe aho zisenyutse akazisana.

Inyubako zitandukanye mu Rwanda zitangirwamo serivise z'ubuvuzi, usanga zigiye ziri mu turere tumwe na tumwe dutandukanye kubera ko usanga hari abavurirwa bafite ibibazo by'umwihariko, rimwe na rimwe ugasanga ababyeyi ndetse n'abafite ubuzima bwo mu mutwe bafite aho bagomba kwitabwaho habo.

Abaganga b'inzobere mu kuvura imvune usanga bavuga ko ari akazi kabasaba kwitanga, kubera ko usanga kuvura imvune biteye ubwoba, kandi guhuza ibice by'umubiri byavunaguritse bidakunze gukorwa na bur’umwe wese mu gihe gito.

Iyo umuntu yagize ubumuga bukomeye akunda guhabwa ingingo, gusa akagirwa inama yo kwitwararika kubera ko aba yavunitse, kandi ingingo ze zangiritse, ni muri urwo rwego usanga akeneye insimburangingo kugira zimufashe kugenda acumbagira.

Igihe cyose hari umuntu uri gukora ibikorwa bifitanye isano n'imyitozo ngororamubiri cyangwa akeneye ubuvuzi bujyanye n'imyitozo ngororamubiri, usanga hari umuganga cyangwa undi muntu wabihuguriwe ushobora kumufasha mu gukora ibijyanye n'amategeko kugira ngo bitamwangiriza ubuzima.

Ahantu hose ku kibuga cy'umupira cyangwa ahari kubera ibikorwa by'amarushanwa, haba hagomba kuba hari abaganga kandi bafite n'ibikoresho bishobora kuza kwifashishwa hatangwa ubutabazi bw'ibanze kubera ko utamenya igihe impanuka ishobora kuza kubera.

Iyo umuntu yagize ibyago akaburira urugingo rumwe mu ngingo yari afite bitewe n'imyitozo ngororamubiri yakoze, usanga abaganga bakora uko bashoboye kugira ngo bamushakire insimburangingo zijye zimufasha gukoreshwa mu mwanya wa rwa rugingo.

Umuganga wese ufite inshingano zo kwita ku bagize ibibazo by'imvune biturutse ku myitozo ngororamubiri, usanga aho akorera hose hari ibikoresho ashobora kwifashisha mu guha ubutabazi bw'ibanze uwagize icyo kibazo, kandi bikamufasha gutegereza atarambiwe ko aza guhabwa ubuvuzi bwimbitse.

Ibikoresho byose byifashishwa havurwa abagize imvune mu myitozo ngororamubiri, usanga bikunze kuboneka kwa muganga ndetse no mu bitaro byigenga, aho ababikeneye babibona bitabagoye bitewe nuko nabo baba babikeneye ako ka...

Imyitozo ngororamubiri ifasha benshi kurambura imikaya bitewe n'uko bagororana hagati yabo, bigatuma babaho bakomeye kandi igihe cyose bakeneye kwiruka bakiruka nta birantega kubera ko imibiri yabo iba irambuye.

Igitsina gore ndetse n'igitsina gabo basobanukiwe neza umumaro w'imyitozo ngororamubiri, bavuga ko ubafasha kurambura no gukomeza imibiri yabo, kandi igihe cyose bayikora bibafasha no kunywa amazi kandi bakabikora kenshi.

Igihe cyose abantu bari batarasobanukirwa ko n'imyitozo ngororamubiri ishobora kuba umuti cyangwa urukingo ku buzima bw'umuntu, wasangaga mu myaka ya kera abantu batabyitabira ngo bumve ko hari indwara zishobora kuba zivurwa n'icyo gikorwa.

Mu kibuga cyangwa se ahandi hantu abakinnyi bakunda gukorera siporo hakunze kuba hari imiti ikunze kwifashishwa igihe cyose habayeho kuvunika k'umukinnyi cyangwa se umwe mu bari gukora siporo, kugira avurwe kandi byihuse.

Abakora muri serivisi z'ubuvuzi bashinzwe kwita ku bavunikiye mu myitozo ngororamubiri, rimwe na rimwe usanga bavuga ko kutagira imyambaro bagomba gukoresha bari mu nshingano nk'inkweto ndetse n'imyambaro y'imyenda bikunze kubabangamira kandi bikica akazi kabo bakaba basabwa ko bafashwe.

Abantu benshi bashishikarizwa ko siporo cyangwa indi myitozo ngororamubiri ari ubuzima, bakagenda babwirwa kandi bakagirwa inama kenshi zo kwitabira ibyo bikorwa, kugira ngo na bo barusheho gutuma ubuzima bwabo bubaho kandi burambye igihe kirekire.

Umuntu wese wagiriye ikibazo mu myitozo ngororamubiri niwe muntu ukunda kwitabwaho cyane bitewe nuko aba afite ibyago byo kuba yapfa kandi mu gihe gito, niyo mpamvu usanga ku kibuga cy'umupira ndetse n'ahandi hose hakorerwa iyo myitozo hashyirwa abaganga.

Amashuri menshi yigisha ibijyanye n'imikino njyarugamba, birayagora gusobanurira buri umwe wese ko na zo ari siporo, kubera ko abantu benshi bibwira ko haba hakubiyemo imirwano gusa, nyamara ntibamenye ko nabyo ari ingenzi kubimenya.

Abantu bose bakora imyitozo ngororamubiri bagirwa inama yo kuyikora bitwararika, kugira ngo muri icyo gikorwa cyo gukomeza imikaya ndetse n'amagufa yabo, bitabaviramo no kuvunika kandi bitari bikwiye bigatuma bahondobera.

Indembe cyangwa se abandi bantu bavunikiye mu kibuga ndetse n'ibindi bikorwa bigorora umubiri, ukunze gusanga bakunda guhabwa udutanda two kuryamaho, igihe cyose bagiye kujyanwa mu mbangukiragutabara ngo ibihutane, ibageze ku bitaro.

Abaganga benshi usanga bafite akazi gatandukanye kubera ko baba bakorera ku bigo nderabuzima byinshi, ugasanga harimo abashinzwe kwita ku ndwara zo mu mutwe cyangwa se abandi bakaba bashinzwe kwita ku bagize ibibazo birimo nk'imvune, ariko bakabikora kandi ukabona ari byiza.

Abakora imyitozo ngororamubiri usanga bagirwa inama kenenshi n'abaganga zo gufata indyo yuzuye ikubiyemo ibintu byinshi umubiri ushobora gukenera kugira ngo imbara batakaje bazigarure bitagoye.

Bitewe n'uko abakora imyitozo ngororamubiri bakenera amazi menshi uba usanga igihe cyose bari kuyikora bakenera abantu babegereza amazi kugira ngo nibasoza kuyikora bayabonere hafi bitabagoye kuko baba bayakeneye cyane.

Abakora imyitozo ngororamubiri bakunze kugaragaza ko ibibazo bagira birimo imvune bikunda kubasigira ubumuga bw'ingingo budakira bitewe n'uko ingingo zavunitse iyo zidashoboye guteranywa bazica burundu.

Abantu bose bakora imyitozo ngororamubiri bakunze no gusanga bifashisha amazi muri icyo gikorwa, kugira ngo bibarinde umwuma, hato bataza gufatwa n'isereri, bigatuma bagwa igihumure, kandi batarasoza igikorwa cyabaraje inshinga.

Imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu gifasha abantu kumva batekanye bitewe n'uko ubuzima bwabo buba bwizewe kubera ko baba barakuye ibidakenewe mu mubiri bakinjizamo ibikenewe binyuze muri iyo myitozo bakora.

Imbangukiragutabara iyo iri mu muhanda ibi ifatwa nk'ikinyabiziga ndakumirwa, kubera ko iba itwaye abantu bafite ikibazo kandi bakeneye ubutabazi vuba, ushobora gusanga itwaye nk'uwagize ikibazo mu myitozo ngororamubiri cyangwa se akaba yakigiriye kwa muganga mu buryo rusange.

Bitewe nuko siporo nazo zamaze gusangwa nk'aho ari umuti, rimwe na rimwe usanga abantu bose bazitabira, haba igitsina gore cyangwa igitsina gabo, kandi bikabafasha mu kubaho bameze neza kubera ko imibiri yabo iba igororotse.

Iyo abantu bavuye mu myitozo ngororamubiri bitewe nuko baba bafite umunaniro uri hejuru, usanga bakeneye amazi kandi imibiri yabo yashyushye ugasanga; abenshi muri bo bafata icyemezo cyo kwimenaho amazi kugira ngo barusheho gukonja.

Iyo ugiye kwa muganga hari indwara uba urwaye zimwe na zimwe bakagutegeka gukora imyitozo ngororamubiri; kugira ngo yongerere ubudahangarwa umubiri wawe; kandi bakakubwira ko ugomba kurya indyo yuzuye; bityo iminsi yawe ikarushaho kuba myinshi.

Umunsi ku munsi usanga ibikorwa bya siporo bigenda birushaho gutezwa imbere, ari na ko Leta igenda ikora uko ishoboye ngo iteze imbere ubuvuzi bw'abavunikiye muri ibyo bikorwa kugira ngo n'u Rwanda rurusheho kujya ku rwego mpuzamahanga.

Bitewe n'uko imyitozo ngororamubiri na yo yaje gusangwa ari nk'umuti ushobora gufasha umubiri w'umuntu kubaho ukomeye, abantu benshi barazitabiriye kandi na minisiteri y'ubuzima igenda irushaho gushishikariza abantu, inabumvisha akamaro k'iyo myitozo.

Iyo ugerageje kuvugana cyangwa kugirana ikiganiro n'abakora imyitozo ngororamubiri bakubwira ko hari indwara zimwe na zimwe barwara ariko zikikiza bitewe n'uko ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba ari bwinshi, bukabasha guhangana na zo igihe icyo ari cyo cyose.

Abakora imyitozo ngororamubiri bavuga ko babangamirwa no kuba batabona ubutabazi bw'ibanze igihe cyose bagize ikibazo muri icyo gikorwa, kandi bikaba byabafasha ko igihe cyose bafite ubwo butabazi, bashobora kwivura kandi batabangamiwe cyane n'impanuka runaka yabayeho.

Abaganga bashinzwe kwita ku bagize ibibazo by'imvune, igihe cyose bakoraga imyitozo ngororamubiri, usanga ari abaganga b'abahanga kandi barabyigiye mu mashuri makuru cyangwa se mu bihugu byo hanze, kubera ko kuvura izo mvune atari ibintu byoroshye.

Ibikoresho byose byifashishwa bita ku muntu wagize ikibazo by'umwihariko uwarwaye imvune, biba bigomba gushyirwa hafi kandi bigakwirakwizwa mu bitaro byose hagamijwe kwita kuri buri umwe wese ushobora kugira ikibazo.

Nyuma y'uko bigaragaye ko ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri, ndetse n'ibindi bifitanye isano na byo bigenda bitera imbere mu Rwanda, ni muri urwo rwego minisiteri y'ubuzima yafashe icyemezo cyo guteza imbere ubuvuzi, bwo kugira ngo hitabwe ku bagira ibibazo muri icyo gikorwa.

Imboga n'imbuto usanga akenshi zikunze guhabwa abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo zibafashe kugarura imbaraga bataje, kubera ko iyo bari muri icyo gikorwa usanga babira ibyuya byinshi ibyo bigatuma ibinure bitwikwa mubiri wabo ari byinshi.

Abakora imyitozo ngororamubiri mu nzego zitandukanye bagaragaza ko kuba bafite ibikoresho bibafasha kuyikora neza ari imwe mu mpamvu zituma babikunda kandi bakumva ko umunsi ku munsi bagomba kubikora.

Hari imiti myinshi igihe itandukanye yongerera abantu imbaraga by'umwihariko bazitakaje mu bikorwa by'imyitozo ngororamubiri, bakarushaho kugarura ubuyanja bitewe n'uko umubiri wabo uba ukeneye nyinshi, bitewe n'izo bakoresheje.

Iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri akayikora ku rwego rupimye, usanga ingaruka zayo zidatinda kuboneka kubera ko usanga n'ubuzima bwe bufite ubudahangarwa bwo ku rwego rwo hejuru, igihe cyose atambuka ukabona arakomeye.

Gukora imyitozo ngororamubiri; bavuga ko igihe cyose bagize imvune, bitajya bikunda kuborohera kubona ibikoresho bishobora kubafasha, kubera ko bisaba amafaranga ari hejuru kandi atari ubushobozi bwabonwa na buri wese, bityo bagasaba leta kugira icyo yabikoraho.

Imwe mu miti ikunze guhabwa abarwayi by'umwihariko bagize ibibazo by'ingingo byaturutse ku kuba bavunikiye mu mikino ngororamubiri, usanga bikunda gushyirwa hafi kugira ngo igihe cyose hagize ugira ikibazo avurwe cyangwa yitabweho bitagoranye.

Hashingiwe ku kuba imiti ivura abantu bagize imvune igihe cyose bari gukora siporo, abantu bagirwa inama yo kwitwararika kugira ngo batazahendwa n'iyo miti, bigatuma ubukungu bwabo busubira inyuma ndetse n'iterambere rikadindira.

Imyitozo ngororamubiri ikwiye kwitabwaho kandi hagakorwa n'ubukangurambaga bushishikariza buri umwe kuyitabira kugira ngo harusheho kurwanywa indwara zandura ndetse n'izitandura, kuko hari izo usanga ziterwa no kudakora iyo myitozo.

Imyitozo ngororamubiri ikorwa n'abantu benshi batandukanye haba abahungu ndetse n'abakobwa, ugasanga bose bavuga ko bafite ibyuma bibafasha kuyikora kandi bikanabereka ko hari ingaruka nziza zishobora kuzabaho igihe cyose babikomeje.

Ikikubwira ko umuntu yakoze imyitozo ngororamubiri kandi ikamugirira akamaro ni uko usangagana ubwe bwite abifitiye gihamya aho usanga iyo hari n'ikintu kibayeho agikora bitamugoye by'umwihariko ibikorerwa ku mubiri we.

Umuganga ushinzwe kwita ku bagize imvune, by'umwihariko abazigize bari mu bikorwa bigorora umubiri, usanga akunze gusaba ko ahabwa umwanya agatekereza neza, kugira ngo arusheho kuvumbura umuti ushobora kuvura umurwayi mu gihe runaka.

Ibikoresho byinshi bifasha abagize ubumuga mu kuborohereza gukora ingendo zitandukanye harimo utugari ndetse n'insimburangingo, bikunda guhabwa by'umwihariko abagize imvune ariko bakaba barazigiriye mu myitozo ngororamubiri kuko arizo zikunda kubitera kenshi.

Abahanga mu by'imirire ndetse n'imikurire y'umubiri bavuga ko iyo ukora imyitozo ngororamubiri kandi ukarya n'indyo yuzuye; bigufasha kumara iminsi ufite ubuzima bwiza kandi bikakurinda gusiragira ujya kwa muganga umunsi ku munsi.

Abaganga bagerageza kugaragariza abakora imyitozo ngororamubiri, banabereka neza ko hari bumwe mu buryo bashobora gukoresha bakiha ubutabazi bw'ibanze, igihe cyose bategereje kugezwa ku bitaro ngo basuzumwe neza bavurwe imvune.

Umuntu wavunikiye mu myitozo ngororamubiri, usanga abaganga batavuga rumwe ku bijyanye no kumwitaho kubera ko haba hakenewe abaganga b'inzobere, by'umwihariko abize kuvura ibijyanye n'imvune zikunda kurwarwa n'abantu.

Ubuvuzi bw'ingingo rimwe na rimwe bukunze kuboneka mu bitaro bike, niyo mpamvu usanga abantu bose bagize ikibazo cyo kuvunika mu mavi cyangwa mu nkokora, bakunze kwitwararika bakavuga ko bakeneye ubuvuzi bwimbitse kugirango bakire vuba.

Ibikoresho byose bikoreshwa mu gutanga serivisi z'ubuvuzi, bikunze kuboneka hake kubera ko biba bihenze, ariko ibitaro bibifite usanga bitanga serivisi nziza bitewe n'uko biba bikora ku buryo bwihuse kandi cyane.

Abantu benshi bakunze gukoresha amazi kugira ngo barwanye imyanda iba iri mu mubiri wabo, bakayifashisha kenshi kandi bakanayakoresha by'umwihariko bamaze gukora imyitozo ngororamubiri, bitewe n'uko umubiri wabo uba washyushye ukeneye ikiwukonjesha.

Abakozi babihuguriwe by'umwihariko abakora muri serivise z'ubuvuzi ni bo usanga bakunze gufata iyambere mu gutabara umuntu wese ugize ikibazo haba bari mu bikorwa by'ingororamubiri cyangwa se ibindi byose bifitanye isano na byo bakamufasha ku mugeza kwa muganga.

Igihe cyose umukinnyi yagize imvune runaka cyangwa ku rugingo aho ariho hose, abagomba kwitabwaho n'ababigize umwuga bashinzwe kuvura imvune by'umwihariko izo mu ngingo kugira ngo bamufashe gukira no kugarukana ubuzima.

Ababyeyi by'umwihariko abakunda kwita ku buzima bw'abana babo, usanga bafata inshingano zo kujya bapimisha abana babo ubuzima bw'amenyo kugira bamenye uko buhagaze, bakabikora nibura buri mezi atatu kandi ugasanga bibafasha gucunga neza ubuzima bw'abana babo.

Abantu bose bagirwa inama yo gushishikarira gukora siporo cyangwa indi myitozo ngororamubiri ishobora kubafasha gukomeza ubuzima bwabo bameze neza, kandi ikavuga yuko n'abana ndetse n'abakuze bakwiye gusobanukirwa neza ko kubikora ari inyungu zabo.

Abashinzwe kwita ku bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, bagaragaza ibipimo runaka umuntu atagomba kurengaho, kandi bakagaragaza n'indyo umuntu agomba kurya igihe cyose asoje gukora icyo gikorwa, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kubaho burinzwe.

Imiti usanga ikunda kuboneka mu gihugu hose kandi ku giciro gishobokeye buri umwe, bitewe n'uko abantu bakunda kurwara indwara zitandukanye kandi na bo bagakenera imiti ku rwego rutandukanye, niyo mpamvu usanga na Leta igerageza gushyiramo imigabane.

Umuntu wese wagize ikibazo cy'imvune ariko ikaba idakabije, usanga iyo ageze mu rugo akunda kwitabaza ubuvuzi busa nkaho butari ku rwego rwo hejuru, aho akoresha igitambara akagikoresha no mu kandi kantu gashyushye bikoroshya imvune.

Mu bukangurambaga butangwa akenshi, usanga abantu bagerageza gushishikarizwa gukora siporo ndetse n'indi myitozo ngororamubiri, ariko na none ababibashishikariza bakabereka n'ibyo bashobora gukora, nyuma yo gukora icyo gikorwa bikabafasha gutuza.

Imyitozo ngororamubiri ikozwe kenshi, ituma uyikora agira ubudahangarwa bwinshi mu mubiri we ndetse bikanongerera imbaraga abasirikare be b'umubiri, niyo mpamvu usanga abantu benshi bagirwa inama yo kwitabira imyitozo kugira ngo barusheho kuzuza ibisabwa.

Hari indwara zigaragaza ko ushobora guhura na zo igihe cyose uri gukora ibikorwa bigorora umubiri, ariko na none hakaba hari imiti yashinzwe kubivura, ni yo mpamvu usanga iyo hari iyi ndwara uhuye na yo cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose muri icyo gikorwa, ugirwa inama yo kujya kwa muganga vuba.

Abakora imyitozo ngororamubiri bavuga ko yo ubwaya ari ubuzima, bikaba akarusho iyo ugize gutyo ukanywa amazi kubera ko bituma umubiri wawe wongera kugarura imbaraga watakaje mu gihe gito bikagufasha kumva utekanye kandi umubiri wawe urambutse.

Mu bigo bitandukanye, usanga hari ibikoresho bikunze kwifashishwa n'abagize imvune, by'umwihariko nk'abakinnyi b'umupira cyangwa se abatwazi b'amagare, bakajya kubigura rimwe na rimwe igihe cyose bagize izo mvune, bikabafasha kwiyitaho.

Igihe cyose ugize imvune by'umwihariko mu ivi, bitewe na siporo cyangwa se ibindi bikorwa bikurura umubiri runaka, uba usabwa kujya kwa muganga bakakwitaho, basanga ari na ngombwa ko bakubaga, bakabigukorera ugakira vuba.

Siporo ni ubuzima niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunze kuzitabira kandi bakazikora ku buryo bagennye hagati yabo bakabikora inshuro nyinshi kugira ngo barusheho kugabanya indwara zitandukanye nk'umubyibuho ukabije, ndetse no kugira ibinure byinshi mu mubiri.

Umuntu wese usoje siporo aba agomba kunywa amazi, kugira ngo afashe umubiri we kugarura intungamubiri watakaje, zirimo nk'amazi n'ibindi, kugira ngo ataza gukenera guhabwa imiti iri bu umusobe amafaranga menshi.

Bitewe nuko siporo ari ubuzima, niyo mpamvu usanga abantu benshi bakunze kwitabira kuzikora kandi bakazikora buri munsi kugira ngo barusheho kubaho, imikorere y'umubiri wabo igenda neza ndetse n'amaraso atembera neza.

Ubuvuzi butangwa mu nguni zombi aho usanga abana ndetse n'abakuru bavurwa kandi bakitabwaho bityo bigatuma bakira vuba kandi ugasanga bikorwa ku kiguzi gito kubera ko kuvurwa ari uburenganzira bwa buri umwe.

Imyitozo ngororamubiri ifasha ubuzima bw'abantu benshi kumara iminsi myinshi, bitewe n'iko baba barabikoze ku buryo bwubahirije amategeko, kandi bikabafasha kurambuka no gukomera kw'imikaya igize umubiri wabo binyuze muri iyo myitozo.

Uko iminsi igenda usimburanwa usanga abantu bagenda barushaho gusobanukirwa ko siporo ari ubuzima, bityo bakayitabira ari abantu benshi kandi ugasanga iyo mitekerereze ikunda kugenda yumvwana buri umwe. Bityo siporo zikitabirwa.

Abashinzwe gutanga ubuvuzi ndetse n'inama zifite aho zihuriye n'imyitozo ngororamubiri, bavuga ko kugerageza kunywa amazi atari menshi kandi atari na make, bishobora gufatasha umubiri wawe, bigatuma ugira imbaraga nyinshi zitandukanye n'izo wari ufite.

Abashinzwe kuvura no kwita ku buzima bw'abantu, by'umwihariko binyuze mu myitozo ngororamubiri, usanga bagerageza kubahereza ibintu bagomba guterura, kugira ngo barusheho kubona neza igipimo cy'imbaraga bafite, bityo babone uko babagira inama z'ibyo bagomba gukoresha.

Iyo wagize imvune ukaba utaragezwa kwa muganga ngo uhabwe ubuvuzi bwiyongereyeho uba ugomba kubanza gukoresha ubwo utekereza ko bwagufasha, harimo nko gukoresha ibintu bishyushye ariko bidashyushye cyane kugira ngo urebe ko byakorohereza.

Ibikoresho byinshi bitandukanye bikoreshwa n'abaganga mu gikorwa cyo gusuzuma indwara zitandukanye, akenshi usanga bikunze kubungwabungwa na bo bitewe n'uko abandi bataba bazi akamaro kabyo, bityo abaganga bo bazi kubikoresha bakaba bagomba kubibungabunga kurusha abandi bose.

Abantu batandukanye bakunda kugaragaza uruhare rw'imyitozo ngororamubiri nk'umuti ubafasha kuramba ndetse no kugororoka, bigatuma n'imikaya yabo ikomera kubera ko bayikora kenshi gashoboka bikabafasha kongera iminsi yo kubaho.

Abashinzwe kwita ku buzima bw'abantu by'umwihariko abashinzwe kuvura bagize imvune mu gihe cyo gukora imyitozo ngororamubiri usanga bakunda kuboneka ku bibuga byinshi ndetse n'ahandi hantu hose hakorerwa iyo myitozo kugira ngo igihe cyose habayeho imvune baze kwita ku bagize ikibazo.

Iyo ukora imyitozo ngororamubiri bigufasha kurambuka kandi bigatuma umubiri wawe uba umeze neza kubera ko ni ho imvune zimwe na zimwe zikunze gukiriramo, ikaba ari na yo mpamvu abaganga bashishikariza umuntu wese wagize ikibazo cy'imvune, agomba kugerageza agakoresha urugingo rwavunitse.

Abazi neza ibijyanye n'umumaro w'amazi mu mubiri bavuga ko umuntu akwiye kujya agerageza kuyanywa kenshi gashoboka ku munsi, kandi akarushaho gukora imyitozo ngorora mubiri ibyo bigatuma avuga ko ashobora kumara iminsi kuri iyi si.

Umuntu wese wagize imvune mu gihe cyo gukora siporo, agirwa inama yo kwitwararika kugira ngo imiti yahawe itaza kumubera nta kamaro, kubera ko aba agifatwa muri umwe mu barwayi, aba agomba kwitwararika, kugira ngo imiti ize kumuvura.

Igihe cyose umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agize imvune ni ngombwa ko ajya kwa muganga bakamufasha bakamuhereza imiti imworohereza ububabare, kubera ko aba yavunitse mu rugingo kandi ho hashobora guteza uburibwe mu mubiri.

Abantu bose bakunze kunywa amazi nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri, ntibahwema kugaragaza ko abafasha kugarukana imbaraga baba batakaje muri icyo gikorwa, bityo bigatuma ubuzima bwabo burushaho kugenda neza bakagarukana imbaraga.

Hari imashini kabuhariwe zishinzwe gufasha abakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo barusheho gukora neza ibintu bipimye kandi biri ku kigero cya nyacyo, kingana n'ibiro bya muntu kugira ngo ataza gukora ibihabanye n'ubushobozi afite.

Abaganga bashinzwe kwita ku mvure ndetse no gutanga ubundi buvuzi bufite aho buhuriye n'amagufa, usanga akenshi bavuga ko babangamirwa no kuba ari bake ku bitaro bitandukanye bitewe n'ingano y'abantu bakira, bityo kubavura bikabagora.

Abantu bose bakora siporo cyangwa se indi myitozo ngororamubiri, bagirwa inama yo kujya bisuzumisha ibiro kenshi kugira ngo bamenye niba umubiri wabo ugerageza kuzamura uburemere cyangwa ukabugabanya, kugira ngo bamenye ikigero bagomba gukoraraho iyo myitozo.

Abantu benshi bagirwa inama yo kwitabira kunywa amazi, by'umwihariko igihe bavuye muri siporo, cyangwa se ibindi bikorwa bigorora umubiri, kubera ko bibafasha kugarura imbaraga bari batakaje mu gihe cya siporo, kandi ubuzima bwabo bukarushaho kumera neza.

Ibikoresho byose byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, usanga bikunze kugaragara ko hari inyubako zimwe na zimwe zibicuruza gusa ariko bikaba bitaragera mu gihugu hose bitewe n'uko bisaba amafaranga atari make ku buryo byakibonerwa na buri wese.

Umwe mu miti ukunze kugaragazwa yuko ushobora gukoreshwa n'abitabira siporo rusange, usanga ari amazi, bose bakunze kunywera hamwe igihe cyose icyo gikorwa kirangiye kugira ngo abashe koroshya mu mihogo yabo, bahumeke amahoro.

Imikino ngororamubiri ikunda gutera imvune abantu benshi bayikora kubera ko usanga irimo ibyago byinshi byateza impanuka ariko usanga abenshi bakunda kugira ikibazo mu mavi cyangwa se ahandi mu ngingo kubera ko ariho hakunze kuvunika.

Iyo umuntu agerageza kunywa ikirahure cy'amazi nibura ku munsi, usanga ari kimwe mu bishobora kumufasha kwirirwa ameze neza kubera ko impyiko ze ndetse n'umubiri wose uba wiriwe ukora akazi ushinzwe kandi bigatuma nyirawo amera neza.

Abakoresha amazi igihe cyose bavuye mu myitozo ngororamubiri, bakunze gutanga ubuhamya babibwira abantu bose ko ayo mazi banywa, abagirira akamaro ku bijyanye n'imikorere ndetse n'imitemberere y'amaraso mu mibiri yabo, kandi bigatuma birirwa bameze neza.

Imbago ndetse n'ibindi bintu nk'insimburangingo bifasha abagize ubumuga mu kugenda, usanga bikunze gutangwa kuri mituweli; ariko n'abadafite mituweli bafite ubushobozi bakabasha kubyigurira, kubera ko biba biboneka ku mavuriro menshi.

Ubuvuzi bushingiye ku bimera ndetse n'imiti gakondo, bwabaye imwe mu mpamvu isigaye ituma ibimera bibungwabungwa bitewe nuko bikurwamo imiti, bigatuma abantu bose bafata inshingano zo kubirinda bakabikora nk'akazi ka buri munsi.

Abatunganya imiti Gakondo bavuga yuko ari akazi katoroshye kubera ko usanga bagirwa inama yo kujya kuyishaka ahantu hari ibimera kandi ugasanga ari kure y'ingo zabo, ibyo bigatuma babibonamo nk'akazi gakomeye, kubera ko no kuyitunganya bibafata undi mwanya.

ubuvuzi gakondo nyuma yo gusangwa nabwo bushobora gufatanya n'ubuvuzi bwa kijyambere bigafasha abaganga gucungura ubuzima bw'abantu benshi, usanga abantu bose basigaye bagirwa inama yo kwita ku bimera kandi bakabibungabunga bakumva ko bibafitiye umumaro ukomeye.

Imiti yose yabashije gutunganywa ariko ikaba ikomoka ku bimera, usanga ikunda kuboneka ahantu henshi haba kwa muganga ndetse no mu mavuriro yigenga kugira ngo abantu bayibone ku bwinshi kubera ko nabo baba bayikeneye ari benshi cyane.

Igihe cyose ugerageje gukoresha ubuvuzi gakondo wifashishije imiti ituruka ku bimera ukabona ntacyo bikumariye, ntabwo ari byiza kuyizereramo ahubwo uba ugomba kujya kwa muganga ukumva icyo abaganga bakubwira cyane ko imiti yabo nayo ivura.

Ubuvuzi bushingiye ku bimera minisiteri y'ubuzima ikunze kugaragaza ko nabwo bukunze kuvura, kandi bugafasha abantu benshi kugarukana ubuzima mu gihe gito, bitewe n'uko bwo buvura bwifashishije umwimerere w'ibimera kandi karemano.

Usanga akenshi na kenshi hari imiti igenda itangwa n'imishinga itandukanye ariko ikaba yaratunganyijwe ibi ikomowe ku bimera, ari yo mpamvu usanga hari abagirwa inama yo kuyisiga indi bakayinywa kugira ngo ibafashe gutuma ubuzima bwabo bumera neza.

Abaganga usanga akenshi bagira inama abakoresha imiti gakondo kwitwararika igihe cyose bayikoresha, bakayifata ku buryo bwagenwe n'abababwiye kuyikoresha kugira ngo badakoresha iy'ikirenga bikabicira ubuzima kandi bitari ngombwa.

Nyuma y'uko abakora ubuvuzi gakondo bahawe intebe nabo bagafatanya n'abakora ubuvuzi bwa kizungu bavuga ko imifatanyirize yabo yarushijeho gutera imbere kandi ikarushaho no gutuma abantu benshi bakira indwara barwaye bitewe n'uko bahuza imiti itandukanye .

Mu rwego rwo kubungabunga ibidukikije, Leta igerageza gushyiraho ingamba zitandukanye zo kubungabunga amashyamba ndetse n'ibihuru, kugira ngo igihe cyose hakenewe gukurwamo imiti izaboneke bidasabye Leta ikindi kiguzi kiyongeraho.

Leta igerageza guteza imbere ubuvuzi gakondo mu rwego rwo kugira ngo n'abwo bujye ku rwego bugomba gutangaho serivisi nziza, kandi burusheho gufatanya n'ubundi buvuzi bwa kizungu, kubera ko n'abwo bwaje gusangwa bushobora gutanga umusaruro.

Ibimera bitandukanye bikoreshwa mu buvuzi gakondo, ariko usanga aho biboneka haba ari hake kubera ko usanga abantu benshi baragiye babyangiza, bitewe n'uko hari impamvu nyinshi zibitera nk'ubuhinzi ndetse n'ubworozi.

Indimu zahoze zikoreshwa n'abakurambere mu kwivura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'izindi, niyo mpamvu na n'uyu munsi usanga hari abacyizera ko zishobora kubafasha kubavura, ariko na none ntabwo bakwiye kuzikoresha batarizera icyo babwiwe na muganga.

Imiti ikomoka ku bimera igira uruhare mu gutanga ubuvuzi bwiza, bitewe n'uko rimwe na rimwe ujya kwa muganga, bakakwandikira iyo ugomba kuzajya kugura mu mavuriro yigenga kandi ikagomba kuba ari ituruka ku bimera runaka bakurangiye.

Urumogi ndetse n'ibindi biyobyabwenge bikunze kwifashishwa mu kuvura abantu, abantu bose bagirwa inama yo kwirinda kubikoresha mu buryo bwose bwa busanya n'ubwo wabwiwe na muganga, kugira utazavaho ugahanwa kubera ko wabikoresheje kandi bitari ngombwa.

Abenshi mu baganga usanga bagaragaza ko kuba barahuguriwe kuvura bakoresheje ubuvuzi gakondo, kandi bakaba bazi no gukoresha ubwa kijyambere, bibafasha gufasha abantu mu mpande zombi bitewe n'uko baba bashakishirije ibisubizo aho bishoboka.

N'ubwo bwose imiti ishingiye ku bimera ikunze kwifashishwa mu buvuzi gakondo iboneka hake, usanga basobanukiwe neza akamaro kayo bavuga yuko batahwema kuyikoresha kubera ko ibabafasha gusunika iminsi binyuze mu buryo ikoramo.

Ubuvuzi gakondo bukunze kwizerwa kandi bugahabwa icyizere cy'uko bushobora gufasha umuntu gukira ndetse no kugarukana ubumuntu vuba, bitewe n'uko bwo bukora bushingiye ku bimera kandi bukaba butanyura mu nganda ngo butunganywe bityo hakavura umwimerere wabwo.

Ahantu hose hahinzwe imiti cyangwa ibindi bimera bishobora kuzifashishwa mu buvuzi, usanga hakunze kwitabwaho kandi hakaba hari umuntu ushinzwe kubirinda kugira ngo hatagira amatungo cyangwa abandi bantu babyangiza.

Ubuvuzi gakondo hagenda hagaragazwa ko uko bugenda burushaho gutezwa imbere, ari na ko bugenda burushaho kugira uruhare mu gufasha abantu mu gukira indwara zimwe na zimwe zitandukanye zifata imibiri yabo, bityo leta ikaba igira abantu inama yo kwihatira kubungabunga ibimera kugira ngo bajye babona aho bakura imiti.

Ubuvuzi bushingiye ku bimera ni imwe mu nkingi ya mwamba, ariko abantu benshi ntibakunze gusobanukirwa akamaro kabyo, niyo mpamvu usanga hari abafata ibiti nk'aho ntamumaro cyangwa se ibindi byatsi bakumva ko ntacyo byabamarira.

Ubuvuzi bushingiye ku bimera bwaje guhamya neza yuko n'iyo miti ishingiye kuri byo ifasha abantu benshi gutuma ubuzima bwabo burushaho gukomeza kandi bikaba byiza batarinze kujya gukoresha iyo kwa muganga.

Minisiteri zitandukanye harimo iy'ubuzima zigerageza kubwira abantu zibagira inama ko bakwiye kwitondera ikoreshwa ry'imiti gakondo ngo nubwo ivura ariko ushobora gusanga hari n'ishobora guteza ibyago ku buzima bw'umuntu bitewe n'uburyo yakoreshejwemo.

Imiti yose ikoreshwa mu buvuzi gakondo abantu bose bavuga ko kubera ko ikomoka ku bimera, igomba kujya itunganywa kandi igakorwa mu buhanga, kugira ngo bitazangiza kurushaho ubuzima bw'abarwayi bari biteze gukira.

Imiti ikomoka ku bimera na yo igaragaza ko hari ubuvuzi bwinshi bushobora gukorwa biyinyuzemo, abantu bagakira kandi ubuzima bwabo bukamara igihe, kubera ko na yo ikoreshwa n'abantu benshi kandi bikagaragara ko bakize nyuma yo kuyikoresha.

Hari ibimera bimwe na bimwe abantu babona bakumva ko nta mumaro wa byo, ariko nyamara usanga abenshi mu kuvura bifashishije imiti gakondo bavuga ko nta kimera kitavura ahubwo biterwa n'uburyo umuntu yagikoreshejemo.

Imiti ndetse n'ubuvuzi gakondo bimaze kwamamara ku rwego rw'uko, bisigaye bicuruzwa ababicuruza bagatanga umusoro kuri leta, bityo bakabikora nta nkomyi kuko byamaze kugaragara ko na byo bifasha abantu kandi bagakira.

Ibimera bikunze kwifashishwa kugira ngo haboneke imiti ishobora kwifashishwa mu buvuzi gakondo kandi habonekemo n'ishobora gutunganyirizwa mu nganda, usanga bifite ahantu bwite byagenewe guhingwa kandi na Leta igashyiramo umugabane wayo.

Ubuvuzi gakondo igihe cyose budakoreshejwe neza, usanga butagira uruhare mu kuvura umuntu wese ufite ikibazo. Ariko nanone iyo bukoranye n'ubuvuzi bwa kijyambere usanga bivura indwara y'umuntu arwaye kandi bigakorwa mu gihe cyihuse.

Ibinini bitangwa na muganga, ni we ufite uburenganzira bwo kukubwira uburyo bwo kubikoresha kubera ko iyo ubikoresheje bihabanye n'uko yabikubwiye, bishobora kudatuma indwara ikira neza nkko byari biteganyijwe.

Abavuzi gakondo bavuga ko na bo bakwiye kugira uruhare mu buvuzi buhabwa abantu kandi bagakorera ahabona leta ikabemerera kugira ibyangombwa bibaranga kugira ngo bajye bakorera aho abantu babasha kubabona igihe cyose.

Imiti ikomoka ku bimera mu myaka yashize ntabwo yagiraga agaciro cyane kubera ko itabaga yatunganyijwe n'inganda, ngo zishobore kongeramo bimwe mu byo imibiri ikenera, ariko usanga uyu munsi ababisobanukiwe neza bavuga ko iyo miti ibafasha cyane.

Abashinzwe gutunganya imiti igomba gukoreshwa mu buvuzi gakondo bavuga ko bakunze guhura n'ibibazo bitoroshye, kubera ko badakunze kubona neza aho babona ibimera bagomba kwifashisha mu gutunganya iyo miti, bityo bigatuma akazi kabo gakomera.

Ubuki ndetse n'ibindi bintu bikomoka ku bimera, usanga bikunze kwifashishwa nk'imwe mu miti ishobora kuvura mu buryo bwa gakondo kandi abantu bakayivurisha bivura indwara zitandukanye nk'inkorora ndetse n'izindi.

Abakoresha imiti gakondo bishimira ko kuba yaramaze gutezwa imbere, na yo igashyirwa mu buryo bwa kizungu, bituma bibafasha kuyibika neza, ikamara igihe kirekire, bitandukanye na kera, aho umuntu yayibikaga aho abonye, bitewe n'uko ashobojwe.

Iyo ugerageje kuvugana n'abagiye bakoresha imiti ikomoka ku bimera, by'umwihariko nk'amavuta basiga ku ruhu cyangwa imiti bakoresha mu menyo. Bakubwira ko yabafashije kugira ubuzima bwiza, bitewe n'uko ifite umwihariko w'ibimera.

Abashinzwe kwita ku bimera bagirwa inama yo kwigisha abantu kubibungabunga kugira ngo mu minsi iri imbere imiti ibikomokaho itazatikira, bitewe n'uko na byo ubwabyo byacitse, bigatuma ubuzima bw'abantu buhangirikira.

Ibimera byamaze kugaragara nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu bituma haboneka imiti itandukanye by'umwihariko ikoreshwa mu buvuzi Gakondo, bityo abantu benshi bakaba batari bazi akamaro kayo, ariko bakagirwa inama yo kubisigasira kugira ngo ubuzima bukunde bugende neza.

Hari imiti gakondo yifashishwa n'abantu kwivura indwara zitandukanye, kubera ko usanga hari indwara barwara ariko zikaba nta miti ya kizungu yazivura ku buryo bworoshye bityo abantu bagafata icyemezo cyo gukoresha imiti gakondo ishobora kubafasha.

Imiti ikomoka ku buvuzi gakondo hakubiyemo n'amavuta, usanga bikunze kwita ku mubiri neza bitewe n'uko haba hakubiyemo ibimera, kandi bikoresha uburambe gakondo, bituruka ku kuba ari ko biteye cyangwa se biremye.

Imiti gakondo kubera ko yifashishwa mu buvuzi bucungura abantu benshi iyo abayikoresha bagiye kuyishaka mu mashyamba ndetse n'ahandi hatandukanye bayikura usanga babanza kuyitunganya bikabafata umwanya muremure bityo bagakenera ubufatanye n'ubuganga bwa kizungu.

Abakoresha imiti gakondo bavuga ko batewe ubwoba no kuba iyo miti ubwayo ibyo ikoresha hari n'ibishobora gukangaranya kandi bikangiza abasirikare b'umubiri igihe cyose umurwayi yayifashe atabibwiwe na muganga.

Haracyari imbogamizi ku imiti ituruka ku bimera aribwo buvuzi twita ubwa gakondo ishobora gukwirakwira ahantu hose bitewe nuko ingano yayo ikiri ntoya ugereranyije n'abantu bayikeneye.

Imiti y'ubuvuzi gakondo abayikoresha bakunze kuvuga ko bayikura mu mashyamba kure, ndetse no mu misozi bityo bitaborohera kuyibona ari nayo mpamvu usanga bayigurisha ku giciro kiri hejuru, abayikeneye ntibayibone ku bwinshi.

Abakecuru n'abasaza bakunda kwizera cyane mu buvuzi gakondo bitewe nuko bavuga yuko ari bwo bwavuraga ba sogokuruza kandi bakagaragaza ko na bo babaga bafite ubuzima bwiza biturutse kuri iyo miti, ikaba ariyo mpamvu nabo bavuga ko kuyikoresha ntacyo byabatwara.

Ibigo byinshi bicuruza imiti ifite aho ihuriye n'ubuvuzi gakondo, usanga byo bikunze kugaragaza ko bigira impungenge zo kuba hari abantu benshi batarasobanukirwa akamaro kayo bityo ntibaze kuyigura ngo bayikoreshe kenshi uko bikwiye ibafashe mu mubiri.

Ahantu hose usanga hari ibigo bicuruza imiti, usanga bakunze kugaragaza ko n'imiti bacuruza ishingiye ku bimera ishobora kuba yifashishwa n'abantu benshi mu kwivura indwara zitandukanye, igihe cyose bayikoresheje nk'uko babibwiwe n'ababifitiye ububasha ikabakiza.

Imiti yose itunganyirizwa mu nganda ifite aho ihuriye n'ibimera usanga abantu benshi bakunda kwizera ko ishobora gukiza indwara vuba bitewe n'uko iba irimo umwihariko uturuka kuri ibyo bimera byakoreshejwe kugira ngo iboneke.

Mu myaka yabanje ubuvuzi gakondo ni bwo bwifashishwaga mu kurokora amagara y'abantu kandi ku bwinshi, niyo mpamvu usanga na nubu hari abakibyizereramo ku buryo bumva ko hari indwara zitavurwa na muganga bitewe nuko babaswe n'ubuvuzi gakondo.

Ubuvuzi gakondo ahantu hose bukoreshejwe ntabwo bukunze gutanga ingaruka z'ako kanya ku buryo byagaragara ko umuntu yakize cyangwa atakize ahubwo bisaba gutegereza, aho usanga umuntu amara icyumweru cyose ari gutegereza kureba ikizavamo.

Imiti ikomoka ku bimera rimwe na rimwe ikunze gutunganywa n'ababifitiye ububasha, bakayifashisha bita kandi bakanavura ubuzima bw'abantu, bitandukanye na kera aho yakoreshwaga batabanje kuyitaho byakozwe mu buryo bwa gakondo gusa.

Imiti ifite aho ihuriye n'ubuvuzi gakondo itunganywa n'ibigo byabyiyemeje, usanga nayo yujuje ubuziranenge bitewe nuko ibigo byayitunganyije biba bifite abahanga bazi neza kuyikora kandi bakayibyaza umusaruro.

Imiti gakondo iravura mu buzima busanzwe, ariko ivura kurushaho iyo yatunganyijwe, ikongerwamo ibindi binyabutabire bishobora kurushaho kuyongerera imbaraga. Nibwo usanga abantu bose bayikoresha bavuga ko barushijeho gukira indwara barwaye bitabagoye.

Imiti gakondo by'umwihariko idatunganyijwe neza usanga ikunda gukoreshwa mu bice by'ibyaro cyangwa se hataragera iterambere ku rwego rwo hejuru, bitewe nuko baba bavuga yuko batagera kwa muganga vuba, bagahitamo kwitabaza iyo miti.

Imiti igenda ihabwa abantu usanga babereka yuko hari ishobora kunyweshwa n'amazi cyangwa indi bakayishyira mu mazi bakarushaho kuyinywa, umuntu wese akaba yabikora ku buryo bumworoheye akabikora uko ashatse icya mbere ni uko aba yayinyoye.

Abantu basobanukiwe ko gukoresha imiti ndetse n'ibirungo bikubiye mu bituruka ku bimera bishobora kubafasha kwirinda indwara zimwe na zimwe bitewe n'uko ibyo bimera akenshi bikoreshwa nk'urukingo rw'indwara zitandukanye.

Bimwe mu bikenerwa kugira ngo ubuvuzi gakondo bukorwe, usanga atari ibintu byashobora kubonwa na buri wese kubera ko biboneka hake, n'ibibonetse ugasanga bisaba amafaranga menshi, ikaba ari yo mpamvu abantu batandukanye bavuga ko ubuvuzi gakondo buhenda.

Abagore batwite bagirwa inama yo kwirinda gukoresha imiti gakondo bitewe n'uko ubuziranenge bwayo butaba bwizewe, ari yo mpamvu bagirwa inama yo kwizera imiti bahawe na muganga kurenza izindi nama izo ari zo zose bakura ahandi.

Abavuzi Gakondo rimwe na rimwe bifashisha imiti usanga iteye n'ubwoba kubera ko rimwe na rimwe bakoresha ifu cyangwa bagakoresha ibindi bikoresho, gusa ugasanga bitabasha kwihanganirwa na buri umwe wese by'umwihariko abana.

Igihe cyose ukoresha imiti gakondo uba ugomba kubyizera kandi ukirinda ko hari ikindi kintu wavurisha iyo miti kandi wagakwiye kuba kiri kuvurwa na muganga wabugenewe, ibyo bikaba byagutera gupfa mu gihe gito.

Imiti ikomoka ku bimera akenshi na kenshi imiti gakondo, usanga ari imiti abantu bose bagirwa inama kuyikoresha, kandi bakayibika ahantu hizewe hari isuku kugira ngo itangirika kubera ko itaba ifite igihe cyo kuramba.

Abantu bose bakoresha imiti gakondo by'umwihariko iyiganjemo ubuki ndetse n'ibindi bituruka ku bimera, bakunze kuvuga ko iyo babikoresheje bibafasha gukira vuba kandi bakagarukana ubuzima mu gihe gito cyane.

Ubuvuzi gakondo bitewe n'uko bwibanda ku gukoresha imiti ishingiye ku bimera, ni yo mpamvu abantu benshi bakunze kuvuga ko bushobora kubavura kandi bukabafasha gukira indwara mu gihe gito bitewe nuko hakoreshwa umwimerere wabyo.

Ubuvuzi gakondo ni imwe mu nkingi ya mwamba ikunze gukoreshwa mu buvuzi kugira ngo habungwabungwe ubuzima bw'abantu, kubera ko na bwo buvura kandi bugakiza ababwitabaje kandi batagiye kwa muganga.

Ibimera byakundaga gufatwa mu minsi ya kera nka bimwe bishobora gukoreshwa mu buvuzi gakondo, usanga bisigaye bitunganywamo n'indi miti ishobora kongerwamo ibintu bimwe na bimwe, bityo nayo igakoreshwa mu buvuzi bwa kijyambere.

Abashinzwe gutunganya ndetse no kuvurisha imiti gakondo bagirwa inama yo kwiyibutsa neza ko bagomba kuyibika ahantu hatekanye kandi hafite isuku, bitewe n'uko iba izahabwa abantu kandi iramutse idafite isuku bishobora kubatera indwara zindi ziyongera ku zo bafite.

Imiti ya gakondo abayikoresha bagirwa inama yo kwitwararika kubera ko itaba yizewe cyane, bitewe n'uko usanga ari imiti itarasuzumiwe ubuziranenge kubera ko iba itaranyujijwe mu nganda kandi ngo isuzumwe n'abantu babifitiye ububasha.

Imiti ikomoka ku bimera abantu bose baje gusobanukirwa ko ishobora kuba igira umwihariko mu bijyanye no kuvura bitewe n'uko yo ubwayo iba ifite umwimerere wo kuba ariyo ikomoka ku bimera, bityo abantu bose bakaba bagirwa inama yo kwitabira kuyikoresha.

Imiti gakondo bitewe n'uko iba ikomoka ku bimera usanga akenshi ikunze gufasha abantu mu gutwika ibinure mu mibiri yabo cyangwa se kubavura izindi ndwara zandura kubera ko nayo iba ifite umwihariko wayo itandukanye n'ikorerwa mu nganda.

Ubucuruzi bw'imiti gakondo bugenda bukwirakwira mu gihugu hose, ugasanga leta igenda irushaho gushishikariza abacuruza iyo miti ko bagerageza kuyigurisha ku mafaranga make, kugirango ibashe kubonwa na buri umwe wese igihe ayikeneye.

Hari imishinga ndetse n'ibigo bitandukanye byiyemeje kujya bikora imiti igomba kuba ifite aho ihuriye n'ubuvuzi gakondo, kubera ko byamaze gusanga abantu benshi bayikenera, bitewe n'uko nabo basobanukiwe ko hari ibyo bakenera bikubiye muri iyo miti.

Ubuvuzi gakondo ndetse n'imiti ikoreshwamo, ntaho iba itandukaniye no gukomoka ku bimera, kubera ko baba bakoresha imiti karemano, bagiye gushaka mu mashyamba atandukanye, bakaba ariyo batunganya bakayifashisha bavura abantu.

Abantu bamwe na bamwe basigaye barabifashe nk'akazi, aho usanga bahugukira mu guhinga bimwe mu bimera bakabihinga ku buryo bwitaweho bitewe n'uko bishobora kuzakoreshwa mu minsi iri imbere muri serivisi zijyanye n'ubuvuzi kandi bigatuma babona amafaranga babigurishije.

Ubuvuzi gakondo usanga igihe cyose bushingira ku miti gakondo cyangwa se ishingiye ku bimera kubera ko ari byo bitabaza, bitewe n'uko bitaba byanyuze mu mashini cyangwa ngo bitunganywe ukundi kandi bikaba bigifite umwimerere wabyo.

Mu myaka yashize wasangaga ababyeyi bakunda kwitabaza imiti ikomoka ku bimera, imwe tuvuga ko ari ubuvuzi gakondo, bakayikoresha igihe umwana wabo yagize ikibazo, bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga, ariko byaje gusanga ari ikosa.

Ibigo byinshi bitandukanye bigenda bitanga serivisi z'ubuvuzi, aho usanga bigenda bikoresha imiti gakondo igenda ikurwa mu mashyamba amwe n'amwe, bityo bigatuma imiti iboneka bitabagoye, kubera ko baba baragerageje kubibungabunga, ibimera biturukwaho n'iyo miti.

Abakoresha imiti gakondo bakunze kuvuga ko ingaruka zayo ku mibiri yabo zitagaragara by'ako kanya, ariko bakavuga ko kuba bakira byo ari ikintu kigaragarira buri wese kandi bakaba bafashwa n'iyo miti mu gihe gito.

Rimwe na rimwe hari igihe umurwayi ajya kwa muganga bakamutegeka ko agomba gukoresha imiti ituruka ku bimera, bitewe n'uko babona ko hari intungamubiri ibice bye by'umubiri bimwe na bimwe bibura kandi bakabona nta handi zava uretse ku bimera.

Imiti yose ikomoka ku bimera, abantu bakunze kwizera ko ishobora kuba ivura kandi cyane, kubera ko iba ifite umwihariko w'ibimera gakondo, kandi karemano, niyo mpamvu usanga abantu benshi bahihibikanira kuyikoresha.

Indimu ndetse n'amacunga biri muri bimwe byakundaga kwifashishwa n'abakurambere, mu bijyanye no kuvura indwara zigiye zitandukanye, bitabaye ngombwa ko bajya kwa muganga, bakabikoresha hagati yabo bakavurana kandi bagakira.

Abatunganya imiti ifite aho ihuriye n'ubuvuzi gakondo bavuga ko babikora nk'akazi ka buri munsi, kandi bikabazanira amafaranga abafasha gutunga imiryango yabo, kubera ko nabo imiti bagurisha iba yabavunnye kuyibona.